Umwana wunamye mu mugezi utemba ufite akajerekani ari kuvomeramo amazi, hasi ari igicucucucu cyiwe hirya hari igicucu cy'ibiti biri mu mazi.

Abagabo n'abagore benshi batandukanye bahagaze ku murongo, bose bifashe ku ntoki, imbere yabo hari ibyatsi, inyuma hari igitambaro kirekire kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Uruvunganzoka rw'abantu batandukanye bari mu cyumba k'inama bicaye, imbere yabo hari ameza ariho impapuro n'amacupa y'amazi, imbere hari amagambo ari ku gikuta yanditse mu ibara ry'umuhondo.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara wicaye mu ntebe, urambuye ikayi ku bibero hirya hari undi uhagaze uri kwita ku mwana bateruye, we afite ibinini mu ntoki, iruhande rwabo hicaye utundi twana, hirya hari ku gikuta hari ifoto ihamanitse.

Umugabo ufite uruhara, wambaye indorerwamo z'amaso, ubumbye umunwa. Hejuru y'iwe hari utudomo dukoze ishusho ya mpande eshatu, iruhande rw'iwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hirya hari andi yanditse mu ibara ry'umweru.

Umupapa wambaye itaburiya y'ubururu afite imiti mu ntoki uri gusobanura abandi bantu bamuzengurutse, inyuma yiwe hari umugabo wambaye ikote r'yumukara uri kubafotora.

Umwana uri guseka wambaye ishati inyuma hariho igisurubeti, uri gukaraba mu ntoki kuri kandagira ukarabe ifite indobo y'icyatsi n'ibase y'icyatsi, hasi hirya hari igikuta cyubakishijwe amatafari y'impunyu.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama bicaye imbere, bose bafite amakayi mu ntoki, bambaye n'udupfukamunwa, umwe ufite icupa riteretse ku meza, inyuma yabo hari igitambaro kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ibirangantego.

Umu mama wambaye umupira w'umuhondo wekenyeye igitenge, uri kuvoma amazi mu mugezi utemba inyuma yiwe hari umusore uri koza igare kumugezi hirya hari ibyatsi n'ishyamba.

Abantu bambaye impuzankano zijya gusa ubururu, n'amakarita y'akazi mu gatuza, umwe wambaye isaha ku kuboko, imbere yabo hari umugabo uhahagaze, ufite uruhara wambaye indorerwamo z'amaso n'ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari undi muntu uri kubafotora.

Umupapa wicaye mu ntebe wambaye ikoti n'umupira w'umweru mo imbere, ufite umusatsi w'umweru wambaye ingofero, urambuye akaboko ku meza, uri gupimwa n'umuganga wambaye indorerwamo z'amaso, wambaye itaburiya y'ubururu.

Abana batandukanye bari koga mu mazi atemba amwe asa umweru, hirya hari amazi yanduye asa ikigina mu mazi umwe arambuye akaboko undi ari koga.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'uruganiriro hagati yabo hari ameza arambuyeho amakayi, hateretseho amacupa y'amazi, hirya urebeye mu kirahure hanze hari ibiti bihari.

Uruziga ruciyemo imirongo inyuranyuranyemo, hejuru hariho ishusho y'ubururu, hasi hari indi y'icyatsi, hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, amwe aciyeho umurongo, andi adaciyeho umurongo.

Abantu bicaye mu cyumba cy'uruganiriro barebana hagati yabo hariho ameza ariho ibikoresho bitandukanye hamwe hariho mudasobwa, hijya hari umuryango ku gikuta ndetse n'ishusho iri ku gikuta.

Umupapa wambaye ingofero y'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, n'umupira w'ubururu n'ipantaro, iruhande rwe hari umumama ufite imisatsi iboheye mu mugongo, wambaye ishati y'umweru bari uri gukorera umwana ikijerekani.

Aba mama bishimye bari mu nyoko bose bari kubyina, bamwe barambuye amaboko umwe wambaye ikanzu y'umutuku inyuma hariho akajiri k'icyatsi, undi ukenyeye igitenge inyuma hari umuryango.

Umunyama ufite umusatsi w'umukara wambaye itaburiya y'ubururu ufite igikarito mu ntoki imbere y'iwe hari intebe yinyegamirwe irambuyeho urupapuro hino hari umupapa ufashe umukobwa k'urutugu wambaye ikote ry'umukara inyuma yabo hari igiti.

Umumama ufite ikarabiye rinini uri kuvoma amazi ku mugezi, iruhande rwiwe hari undi mupapa na we uri kuvoma amazi, imbere ku mugezi hari icyapa kiriho, inyuma yabo hari ishyamba rirerire.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara wambaye indorerwamo z'amaso n'umupira ujya gusa ikigina, uteruye akana gahagaze ku munzani, inyuma yabo hari abandi bantu bahahagaze.

Umwana wambaye ishati ikozwe mu gitenge, isa n'ijipo ikozwe mu gitenge, ufite umusatsi uboshye, uri gukarabira amazi kuri robine, hasi hateze ikibase inyuma yiwe hari igikuta cy'amatafari.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro mu buryo bose barebana, hagati harimo ameza ariho urupapuro n'igikapa, hirya hari undi muntu uhagaze wambaye umwenda w'umuhondo hejuru.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri uri ku mugezi, undi uri imbere uri kumuvomera, hirya hari inzira nyabagendwa n'abandi bana bambaye impuzankano bajya ku ishuri, hirya yabo hari ibiti.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere ku ibaraza hari abantu bahari bambaye imyenda y'umuhondo n'ibigofero bipfutse mu maso, iruhande rwabo hari abandi bantu bari ahantu bakarabira bari gukaraba.

Umumama witwikiriye umutaka w'ubururu, ufite umusatsi w'umukara, wambaye imyenda ikozwe mu gitenge n'agatambaro k'umweru mu gatuza, uri kuvomesha amazi ku mugezi, ufite impombo ebyiri, imbere hari ibijerekani bibiri biriho ari umwana ufite igitenge ku rutugu uri kuvoma.

Inzu ndende hejuru hashushanyijeho uruziga, munsi hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'andi yanditse mu ibara ry'ubururu n'imibare yanditseho yose yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Umumama ufite umusatsi w'umukara uboshye, wambaye agapfukamunwa n'amaherena, uri gusoma umwana ateruye mu ntoki, umumama wambaye impeta ku kuboko n'isaha ku kuboko, inyuma yiwe hari undi mu mumama uteruye umwana, wambaye agapfukamunwa k'umukara.

Abantu benshi batandukanye bari mu cyumba cy'uruganiriro bicaye, imbere yabo hari amazi ari ku ntebe zihari, imbere hari abandi bantu bicaye babareba bafite indangururamajwi mu ntoki, hino yabo hari insakazamashusho.

Umupapa udafite umusatsi, wambaye indorerwamo z'amaso n'ikote ry'umukara, uhagaze ahantu bavugira ijambo, imbere yiwe hari indangururamajwi, iruhande rwiwe hari intebe zihateye n'indangururamajwi, inyuma hari igitambaro kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umusore umwe uri kumwe n'abakobwa batatu, inyuma yabo hari igitambaro kinini cyanditseho amagambo y'umweru atsibaze, hasi hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, hino hari akandi gatambaro kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ahinnye.

Abantu batandukanye bicaye begeranye inyuma yabo hari undi muntu uhahagaze ubafashe ku rutugu wambaye isaha ku kuboko, umwe wambaye indorerwamo z'amaso imbere kumeza hariho imiti iri mu dukarito dutandukanye hejuru hari ihema.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ahantu hamwe benshi, bamwe bambaye ikarita z'akazi, hino hubatse ihema, hirya yaho hari inzu ihari iri kwinjirwamo n'abantu, iruhande rwaho hari igitambaro kimanitse ku gikuta.

Abana bari ku mugezi, umwe uri gusunika amazi mu itiyo imbere hari injerekani, ahagaze aho bavomera, inyuma yabo hari ibyatsi bigufiya n'ibiti birebire biri hirya.

Umukobwa wambaye agapira kajya gusa umuhondo n'ijipo, uri kumwe n'umwana wambaye agapira kajya gusa umukara, bafite ibivomesho bari kuvoma mu mazi atemba, inyuma yabo ari ibyatsi bimera mu gishanga.

Umu papa ufite umusatsi w'umukara ugaragara ugutwi kumwe, wambaye indorerwamo z'amaso, wambaye ishati y'umweru, inyuma hariho ijiri y'umukara, imbere yiwe hari umukobwa wambaye isaha ku kuboko n'umupira w'icyatsi, uri gucuruza imiti.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, uri guseka, uri gufungura amazi ari mu ndobo iteretse hejuru y'ameza, hirya yaho hari igikuta cyubakishije imiseke.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, imbere hari abandi bantu bicaye bari kubareba, inyuma yabo ku gikuta hariho amagambo yanditseho n'amafoto y'abantu batandukanye.

Umu mama wambaye umupira w'amaboko magufi ukenyeye igitenge, witeze igitambaro mu mutwe, wikoreje ingata ikivomesho gifite umufuniko w'umutuku, iruhande rw'iwe hari abana bambaye impuzankano y'ishuri bahari.

Umumama witeze igitambaro mu mutwe bambitse itabuririya y'ubururu uri kwitabwaho n'abaganga babiri, umwe ufite ibipapuro mu ntoki, undi wambaye indorerwamo z'amaso ufite umusatsi uzinze.

Umupapa w'umuganga wambaye ikarita y'akazi mu gatuza, wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, uri gutera urushinge umumama umuri imbere witeze igitambaro inyuma yabo hahagaze umukoranabushake.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru, afite imifuka ku ruhande n'amapantaro y'imikara bose, bari kumwe n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku, ufite umusatsi muremure, inyuma hari urugi.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bamwe bambaye amakarita y'akazi mu gatuza, abagabo bose bambaye amakote, harimo n'abamama bamwe basutse, inyuma hari igitambaro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, harimo n'ibirangantego bishushanyije aho.

Umu mama wambaye ingofero y'umweru na agapfukamunwa n'umupira w'umutuku n'agakapu kanyuze mu ijosi, iruhande rw'iwe hari abandi ba mama bahari bambaye udupfukamunwa. Hirya hari undi mupapa wambaye agapfukamunwa, bari kwita ku mwana.

Umwana ufite umusatsi w'umukara, wambaye umupira w'ikigina uri guseka ufite igikombe cy'icyuma mu ntoki, uri kuvoma amazi ku ivomero, hirya ye hari ibiti bihari.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama mu buryo bose barebanamo, imbere ku meza hariho amacupa y'amazi, hirya hari insakazamashusho, ku gikuta hariho ifoto y'umuntu.

Umumama wambaye ingofero ufite umusatsi w'umukara, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, uri guha amata abana bambaye imipira ijya gusa umutuku yanditseho amagambo mu mugongo, hirya yabo hari umupapa wambaye impuzankano y'igisirikare uteruye icyansi mu ntoki.

Icyumba cy'inyubako kirimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uri kwita ku mwana wambaye ubusa hejuru, ufite ikintu mu ntoki, uteruwe n'umumama wambaye ikanzu irimo amabara y'icyatsi n'umuhondo, witeze igitambaro. Hirya yabo hari ameza.

Umubyeyi ufashe igipapuro mu ntoki ateruye n'umwana witeze igitambaro cy'igitenge n'ikanzu y'igitenge, wambaye agakomo ku kaboko, inyuma yiwe hari abandi bamama bicaye bateruye abana.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara, wambaye indorerwamo z'amaso uri guseka, wambaye ishati y'umweru hariho karuvati, inyuma hariho ikote, wambaye n'ipantaro y'umukara, uri kwifotoranya n'abantu, bambaye amataburiya y'umweru, bafite amakarita y'akazi mu gatuza, inyuma yabo hari ibiti.

Abana bahagaze kumugezi bari kureba mu cyerekezo kimwe, imbere yabo ku mugezi hari ibivomesho bihari, bimwe bisa umweru ibindi bisa umudo, n'kindi gisa umukara kiri mu ishusho y'uruziga, hirya hari umuntu wambaye imyenda y'ubururu, uri gusunika amazi mu itiyo, inyuma yabo hari ibyatsi bihari.

Ishusho y'uruziga ishushanyijemo inzira, hasi harimo urumuri ruri kwaka, hejuru hariho izuba, iruhande hari amagambo yanditse mu mpine, munsi yanditse mu magambo arambuye.

Umupapa wambaye inkweto zifunze n'ipantaro y'ubururu n'umupira ujya gusa ubururu, imbere yiwe hari abana bari guseka, bari gukaraba amazi agwa mu kibase.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama, harimo uwambaye agapfukamunwa k'umukara ufite imisatsi iboshye, wambaye umupira w'icyatsi hariho ikimenyetso cyo guteranya ku kaboko, iruhande rwiwe hari ameza arambitseho ikaye n'icupa ry'amazi, inyuma yiwe hari abandi bantu benshi.

Umwana wambaye ikanzu y'umutuku amaboko ahinnye uri gukarabira ku mugezi wanditseho amagambo atandukanye, hirya yiwe hari icyatsi gihari.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu wanditseho amagambo ku kuboko, wambaye n'ikarita y'akazi mu gatuza, uri gusobanura undi muntu umuri imbere, wambaye igikapu mu mugongo n'agakomo ku kaboko, hirya yabo hari abandi bantu bahari.

Umumama wambaye itaburiya y'umweru, ufite umusatsi w'umukara uvanze n'ikigina, wambaye amaherena ku gutwi uri kwita ku mwana uteruwe n'umumama ufite umusatsi w'umukara, inyuma hari urufunguzo ruri mu rugi bifunguye.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu n'agakomo ku kaboko uri gukaraba mu ntoki kuri robine ifite umunwa munini, amazi ari gusohokamo asa urubogobogo.

Umuntu ufite inzara ziciye uteze ibiganza ku bukarabiro buri mu ishusho y'ubururu, iruhande rwaho hari isabune ihari, hirya hari ibyatsi.

Ibibabi bibiri bifite inkondo zinyuranyemo, bikoze ishusho ijya kumera nk'uruziga, hagati harimo amagambo yanditse mu mpine ari mu ibara ry'umweru ritsibaze.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri ya kaki bari ku mugezi kuvoma amazi mu ndobo no mu tubuni, bamwe bafite indobo z'icyatsi n'utuboni, hirya yabo hari ibiti by'imikindo birebire n'inzu ihari.

Inyubako irimo abamama benshi batandukanye, imbere hari uwambaye isaha ku kuboko uri kwipima ijipo iri mu ibara ry'ubururu. Inyuma hari inzu ishushanyije ku gikuta n'umuntu ushushanyije ku gikuta n'amagambo yanditseho.

Umuganga w'umukobwa wambaye utwuma mu mu matwi, ufite umusatsi w'umukara, wambaye itaburiya y'umweru. Iruhande rwabo hari ameza ariho impapuro n'ikaramu, hirya hari ikibaho, uri gukora ku nda y'umwana, uri kumwe n'umuntu ufite igikapu mu ntoki.

Abantu batandukanye bambaye impuzankano, n'amakarita y'akazi mu gatuza, harimo umwe wambaye isaha, imbere yabo hari umupapa uhahagaze ufite uruhara n'umusatsi w'umukara, wambaye indorerwamo z'amaso, ishati y'umweru, inyuma hariho ikote ry'umukara inyuma yabo hari inyubako.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara uri guseka wambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru na karuvati y'umukara, iruhande rwiwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hasi hariho ibirangantego.

Umumama witeze igitambaro wambaye amaherena n'ishati imeze nk'isengeri wikenyeye igitenge, ufite indobo mu ntoki uri kudaha amazi mu kibasi kiri ku mugezi, inyuma ye hari abagore babiri bari gusunirika amazi.

Abana benshi batandukanye bamwe bambaye impuzankano y'ishuri, bose bateze ibiganza ku mugezi uri kuva amazi, inyuma yabo hari ibiti birebire bihari n'ibyatsi bihari ndetse hirya hari inyubako.

Umupapa ufite umusatsi uringaniye uri guseka wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara ifite mu mufuka h'umweru, wambaye inkweto z'umukara ukandagiye ku giti cya kandagira ukarabe uri gukaraba mu ntoki.

Agatanda k'ibikoresho byo mu rugo, gashinze mu mbuga kubakishijwe ibiti hejuru hariho amasahane, utubase n'ibikombe, hino yabyo ari ibiti birebire biri mu rugo, hirya hari uruzitiro rwubakishije ibiti.

Umumama wambaye itaburiya y'umweru, wambaye iherena ku gutwi, ufite umusatsi uboshye, uri kwita ku mwana wicaye ku bibero bya mama wiwe, inyuma yaho hari urugi rufunguye.

Igitambaro cy'ubururu kiri mu ishusho y'urukiramende, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, atsibaze, ahinnye, iruhande rwaho hari abantu babiri bari mu ishusho y'uruziga, munsi hari andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umupapa udafite umusatsi wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara izirikishije umukandara, ufashe ku kibuni kiri ku mugezi iruhande rwiwe hari umugezi ufite impombo ebyiri, inyuma yiwe hari ibyatsi bihari.

Abantu benshi batandukanye bicaye munsi y'ihema harimo n'umupolisi. Inyuma yabo hari igitambaro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, iruhande hari abantu bahahagaze bitwikiriye imitaka n'ibyatsi bihari, imbere yabo hari undi muntu uhahagaze ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abana benshi bambaye impuzankano ifite udukombe mu ntoki, iruhande rwabo hari ameza ariho kandagira ukarabe bari gukuramo amazi, inyuma hari inyubako n'ibiti by'ishyamba byinshi.

Abana benshi bakikije umugezi bari gukaraba ikibasi cyuzuyemo amazi asa nabi, iruhande rw'umugezi hari ibyatsi bihari, inyuma yabo hari ishyamba rihari n'ibyatsi birebire.

Umu mama wambaye ingofero, ufite umusatsi w'umukara uri guseka ufite amenyo y'umweru wikenyeye igitenge, ukandagiye kuri kandagira ukarabe uri gukaraba mu ntoki amazi ari mu kabuni k'umweru, inyuma yiwe hari umuryango ufunguye.

Umupapa munini wambaye karuvati y'icyatsi n'ikote rijya gusa umukara uri kumwe n'umumama wambaye ikanzu ishushanyijeho uturabyo n'isaha ku kuboko, iruhande rwabo hari umwana ufashe undi mu ijosi n'umumama uteruye umwana.

Abana batatu bari kureba mu cyerekezo kimwe bari gukarabira ku gikuta kiri kuvamo amazi, hirya yabo hari igiti kirekire gifite amashami menshi, hasi hariho ibyatsi hirya hari igikuta cyubakishijwe ibiti.

Umupapa wambaye agapfukamunwa n'ishati ijya gusa ubururu, wambaye ipantaro ya kaki n'ikarita y'akazi mu gatuza, uhagaze iruhande rw'umupapa wundi uri kwandika wambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwabo ku meza hariho mudasobwa, imbere yabo hari abantu bahahagaze.

Umumama wicaye mu ntebe y'inyegamirwe, ufite umusatsi w'umukara, wambaye ikote rijya gusa umweru, wambaye isaha ku kuboko, urambuye ibiganza ku meza. Iruhande rwe, hari undi mumama uhari, witeze igitambaro cy'umuhondo, na we ushyize ibiganza ku meza, wambaye impeta.

Ikamyo ndende itwaye imizigo ifite amapine menshi atandukanye, inyuma hariho ikirangantego kiri mu ibara ry'umweru n'amashami abiri anyuranyemo hejuru handitseho amagambo ari mu mpine, imbere hari indi modoka iri ku haturuka.

Abana bahagaze ku murongo bambaye impuzankano, amashati y'umuhondo afite ikora ry'ubururu hasi, bambaye imyenda y'ubururu bahagaze imbere y'umugezi bose bari gukaraba.

Abantu benshi batandukanye bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu kivanze n'umweru, imbere hirya ari umumama uhahagaze uri kuvuga ijambo.

Umupapa uhagaze imbere y'abantu bicaye uri kubaganiriza, hirya hari umuryango ufunze n'undi mupapa uhagaze wambaye isa ishati ijya gusa ikigina hino yaho hari akabati.

Abantu batandukanye bahagaze hamwe, bamwe bambaye amataburiya y'umweru n'amakarita y'akazi mu gatuza, inyuma ku gikuta hari amagambo yanditseho mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'amashusho y'abantu, imbere hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hejuru hariho mudasobwa.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye hamwe iruhande rw'inyubako, harimo umumama witeze igitenge mu mugongo ubari iruhande n'undi musaza wambaye ishati y'umweru bari kumwe, hirya yabo hari kandagira ukarabe.

Inzu ndende yubatswe mu buryo bw'iterambere ifite imiryango miremire n'amabati ajya gusa umutuku idafite ibaraza, hirya hari ikirere gisa umweru harimo n'igicu cy'umukara, hino hari ibiti bihateye.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'ubururu, ufite akantu mu ntoki ari gukanda kari ku meza y'umweru arimo utundi tuntu twinshi.

Umwana uri ku mugezi uri kuva amazi, uri gukaraba mu maso ari no guseka, uteze ikiganza kimwe amazi, inyuma yiwe hari undi muntu uhahagaze wambaye ishati ya karokaro, hirya hari ibiti.

Abamama bicaye ku meza ariho amakayi manini, bafite amakaramu mu ntoki bari kwandika. Hirya hari undi mu mama uhicaye uri kubitegereza, hirya yaho hari akabati kabikwamo ibintu byinshi.

Inyubako zitandukanye zifite uruzitiro rukozwe muri senyenge, hirya hari umuntu uhagazemo, hirya yaho hari ibiti bihateye n'ibyatsi, imbere y'iyi nyubako hari ubutaka gusa butariho ikintu na kimwe.

Umupapa ufite, umusatsi mukeya, uhagaze, wambaye umupira w'umutuku, inyuma hariho akajiri kajya gusa umukara, wambaye agakomo ku kuboko, ufite ikayi mu ntoki, uri gusobanura undi mu papa wambaye ingofero y'abisilamu, inyuma y'iwe hari abana bahagaze bafite ibyapa.

Umuntu ufite isura irimo ibiheri, ingoyi z'umukara ijisho rijya gusa umutuku, mo imbere harimo akadomo k'umukara tsiriri, hari amarira ari gushoka ku itama.

Abantu benshi batandukanye bari mu cyumba k'inama, imbere hari umugore uhahagaze, imbere ye hari ameza arambuyeho ibitambaro, hino hariho ibikapu ndetse n'amacupa y'amazi ariho inyuma ye yiwe hari abandi bantu bahicaye. inyuma yabo hariho amarido akingurutse amadirishya.

Abantu bahagaze bari kumwe n'abantu bambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda, hariho n'igofero, inyuma ari igitambaro kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara rijya gusa umukara n'ibirangantego biriho bishushanyije.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe bari kwakira abarwayi, iruhande rwabo hari ameza bose bambaye agapfukamunwa, inyuma yabo hari intebe zigerekeranyije n'abantu bahahagaze.

Abantu bicaye ku ntebe mu buryo bw'impande ebyiri, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara umuryango ufunguye ifite amadirishya abiri agizwe n'ibirahuri, hirya hari insina z'imibyare n'indi nzu iriyo.

Umupapa wicaye ku ntebe y'indambure, imbere y'iwe hari abamama bahicaye na bo ku ntebe y'indambure, inyuma hari insina z'imibyare hirya yaho hari ishyamba.

Icyumba cy'inyubako kirimo umupapa wicaye ku mukeka wiziritse amaguru, ukenyeye igitenge hasi, wifashe mu gahanga, wambaye umupira w'ubururu ufite imirongo itatu y'umweru ku rutugu.

Umupapa ufite umusatsi uzinze usa nabi wasamye, ufite ubwanwa buzingazinze busa nabi bw'umweru, wambaye imyenda yacikaguritse, hirya yiwe hari inyubako n'ibyatsi bihateye.

Umuntu wambaye ingofero y'umukara ifite ubwoya, wambaye n'umupira w'umukara mu imbere harimo ishati y'umweru, ufite agatambaro gasa umweru uri kwihanagura mu maso, inyuma ye hari undi muntu uhari.

Umumama ufite ikibazo cyo mu mutwe wambaye inkweto isa nabi n'imyenda isa nabi itamukwiriye, witeze igitambaro ufite ibyatsi mu ntoki, iruhande rwiwe hari amacupa ahari, inyuma yiwe hari abantu bari kugenda.

Abantu babiri bari gusuhuzanya bakoresheje inkokora, bose bambaye agapfukamunwa, umwe wambaye umupira w'ubururu, undi wambaye isururubeti y'ubururu, iruhande rwabo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hasi hari andi yanditse mu ibara ry'umweru.

Umupapa ufite imisatsi izinze isa nabi n'ubwanwa bw'umukara, wambaye iserengeri ifite amabara y'iroza n'umweru, wambaye n'ikabutura ya kaki, wishyize ipine mu nda, iruhande rwe hari abandi bantu bahahagaze.

Amagambo y'impine ari mu mabara atandukanye, iruhande rwaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ritsibaze, hasi hari utuntu tw'udusikariye twanditseho amagambo atandukanye, hirya hariho ibyerekezo, hariho n'ubusobanuro.

Abantu benshi bicaye mu ntebe bareba imbere harimo umumama ufite imisatsi iboshye abasore bambaye imipira y'imikara ifite ikirangantego mu gatuza hirya ku gikuta hariho umuntu uhahagaze.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, uri ahantu bamena imyanda, wambaye ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'amashashi, wambaye indorerwamo z'amaso, inyuma yiwe hari ipine riri mu myanda, hirya hari inyubako zihari.

Umu mama wicaye ku ntebe y'indambike, wambaye ijipo irimo amabara atandukanye, n'isaha ku kuboko, witeze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, inyuma ye ku gikuta, hariho ururabyo rushushanyijeho.

Umupapa wicaye areba hasi, wambaye ingofero y'urugara uhetse igikapu mu mugongo wambaye udukomo ku kaboko kamwe, akandi kariho isaha, iruhande rwiwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'andi yanditse mu ibara ry'ubururu.

Umumama ufite umusatsi muremure, unyereje, wambaye amaherena n'ibikomo ku kuboko, wambaye agapfukamunwa ku kuboko, inyuma ye hari abandi bantu bahahagaze, iruhande rwiwe hari umumama wambaye agakomo ku kuboko, afite ikayi mu ntoki n'ikaramu.

Umuntu bigaragara ko afite ikibazo mu mutwe wicaye yegamye ku gikuta wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro ijya gusa ikigina n'inkweto zacitse z'umukara, ufite umusatsi w'umukara hirya yiwe hari imyanda.

Umupapa ufite umusatsi usa nabi, wambaye imyenda icikaguritse n'ipantaro icikaguritse, wambaye ibirenge, uhagaze mu muhanda, ufite ibintu mu ntoki, inyuma yiwe hari moto iri kugenda n'imodoka, hirya hari ibiti bihari.

Umumama ufite imisatsi iboshye, wambaye urunigi mu ijosi n'ishati y'igitenge irimo amabara y'umutuku, umweru n'andi ajya gusa ubururu, inyuma yiwe hari iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye.

Umupira w'umweru ufite ikora ry'ubururu n'amaboko y'ubururu, inyuma handitseho amagambo ari mu mpine yanditse mu ibara ry'ubururu, hagati harimo igishushanyo, hirya hari amagambo yanditse mu mpine, munsi harimo amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umweru n'amadirishya y'ibirahuri, imbere yayo hari ubusitani n'inzira nyabagendwa ya kaburimbo, hari n'ibyapa imbere yayo byanditseho amagambo atandukanye.

Icyapa kirekire cyanyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, hirya hariho ishusho ya mpande eshatu zinyuranyuranyemo. Hino hariho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

Umumama witeze agatambaro k'umweru, wambaye imyenda y'ibitenge, wambaye ibirenge iruhande rw'iwe hari igikombe cy'icyatsi, utetse ku mashyiga, inyuma y'iwe hari inzu ihari, hirya hari insina z'imibyari.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara, ufite mumaso hirabura, uri guseka, ufite amenyo y'umweru, wambaye agapira k'ubururu, inyuma hariho akandi k'umutuku, hirya yiwe hari umuryango ufunguye.

Abantu bahagaze hamwe, hagati harimo umupolisi wambaye ingofero n'imyenda ya gipolisi, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye, kimwe kiri mu ibara ry'ubururu handitsemo amagambo y'umweru, ikindi kiri mu ibara ry'umutuku handitsemo amagambo y'umweru.

Umukobwa witeze igitambaro cy'umukara wambaye agapfukamunwa k'umweru uhetse igikapa mu mugongo, iruhande rwiwe hari ikimenyetso cya corona, hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi n'andi ari mu ibara ry'umutuku.

Inyubako ifite inkingi yubakishijwe amabuye n'ibyuma biri hejuru yayo, hirya hari umuryango, hejuru y'ibaraza hari amagambo yanditseho, hirya hari igiti gihari.

Umupapa wicaye yitangiriye agahanga ufite umusatsi w'umukara, wambaye ishati n'ipantaro uri kwitabwaho n'umumama wambaye isaha ku kuboko ufite imisatsi miremire.

Abantu benshi bari hamwe, abari ku murongo wa mbere bose bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, inyuma yabo hari abandi bantu bahahagaze, hirya kunzu hariho igitambaro cyanditseho amagambo atandukanye, iruhande rwabo hari igiti.

Abana bambaye impuzankano y'umuhondo, bamwe bafite imisatsi iboshye izirikishije umubano w'umutuku, undi wambaye akantu mu gahanga k'umweru, hasi hariho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'imibare.

Abamama benshi bicaye mu cyumba, imbere yabo hari umugabo uhagaze uri kubigisha, inyuma y'iwe hari ameza arambuyemo igitambaro ateretseho icupa, hirya ku gikuta hariho icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye umupira ushushanyijeho mu gatuza uri kwita ku mwana urambitse amaboko kumeza afite ibara ry'umweru yitangiriye amatama yombi, wambaye umupira w'umweru.

Icyumba cy'inyubako gikorerwamo inama hari abantu bicaye imbere, umwe imbere yiwe hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, abandi bicaye mu mwanya w'uruganiriro inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye.

Umuntu ufite umusatsi mukeya uringaniye, usa nkusutamye, akaboko kamwe gafashe hasi akandi kamanitse mu kirere, wambaye ibintu byinshi bisa nabi mu gatuza no ku maboko, hirya y'iwe hari umuntu wicaye ku igare riparitse ku ibaraza ry'inzu.

Umwana uryamye ku gitanda kwa muganga bari kumushyira utwuma mu menyo, ufite amenyo y'umweru, amaso y'umweru arimo ibara ry'umukara n'umusatsi w'umukara uzinze.

Umusore ufite umusatsi w'umukara, amaso y'umweru arimo umukara, ufite amenyo y'umweru, ukoze mu kanwa wambaye umupira w'umukara, wicaye ku ntebe imbere ye hari umuntu uhagaze uri kumwereka amenyo.

Umupapa wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare na karuvati y'umukara, wambaye ikarita y'akazi mu gatuza, wambaye n'isaha ku kuboko, uri kumwe n'undi muntu bari kwiga gukura amenyo.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara uboshye uzingiye inyuma ufite n'ikaramu mu ntoki uri guseka uri kumwe n'abana bambaye impuzankano y'ishuri zitandukanye, bose bari guseka bamanitse umuti w'amenyo mu ntoki.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, ufite umusatsi w'umukara, wambaye indorerwamo z'amaso, uri gukura iryinyo umwana uryamye ku gitanda kwa muganga.

Umupapa uryamye ku gitanda kwa muganga, ufite umusatsi w'umukara, amaso y'umweru arimo umukara, uri kwitabwaho n'umugore ufite umusatsi muremure wambaye uturindantoki tw'ubururu, ufite akantu kariho amenyo mu ntoki.

Umupapa wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare afite umusatsi mukeya ugaragara ugutwi kumwe, uri kwireba mu ndorerwamo z'amaso ufite amenyo y'umweru uri kunyuza urudodo rw'umweru mu kanwa.

Umupapa uhumbije amaso ufite ingoyi z'umukara n'ibitsike by'umukara, ubwanwa bw'umukara, amenyo y'umweru n'ururimi rujya gusa umutuku, ufashe urudodo mu ntoki uri kurunyuza mu menyo, akaba yambaye umupira w'umweru.

Umupapa ufite ubwanwa bw'umukara, amenyo y'umweru, ishinya y'umutuku, ufite isume ku rutugu ufashe urudodo rw'umweru mu ntoki uri kurunyuza mu menyo, ufite ijosi ritebeyemo.

Umupapa ufite ubwanwa bwo hejuru n'ubwo hasi bwose bw'umukara, ufite iminwa y'umutuku ufashe akantu k'agaparasitike, ari kugashyira mu menyo asa umweru n'ururimi rw'umutuku.

Inyubako ndende ivurirwamo abarwayi b'amenyo igizwe n'ibirahure ndetse n'inzu zigerekeranyije, hasi ifite intangiriro y'amabuye, iruhande rwayo hateye ibiti bitandukanye.

Umupapa wicaye ku ntebe y'inyegamirwe, ufite umusatsi w'umukara, ibitsike by'umukara n'ingo yi z'umukara amaso y'umweru arimo ibara ry'umukara, amenyo y'umweru, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu.

Umupapa ufite imisatsi y'umukara iboshye, wambaye umupira wmweru uri kwireba mu ndorerwamo, ufite urudodo mu ntoki zombi rw'umweru uri kurunyuza mu kanwa.

Umugore ufite umusatsi w'umukara, wambaye amaherena, ufunze amaso, uri gushinyiriza, ufite urudodo rw'umweru mu ntoki, uri kurunyuza mu menyo y'umweru, wambaye isengeri y'umweru.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri, umwe wambaye umupira w'ishuri, uhetse n'igikapu, bose bafite udukombe tw'amazi mu ntoki, n'uburoso buriho umuti w'amenyo, bari gusukura amenyo, inyuma yabo hari ibiti.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, ufite agakomo ku kaboko, wambaye agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso, uri kwita ku mumama uryamye kwa muganga, ufite umusatsi w'umukara wasamye.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tujya gusa ubururu uri kwita ku mwana ufite imisatsi miremire, amaso y'umweru arimo ibara ry'umukara n'amenyo y'umweru bari kumukura iryinyo.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara uboshye wambaye umupira w'umweru uri kumwe n'umwana wambaye umupira w'umweru, ufite amenyo yakutse ufite uturongo tubiri mu musatsi, bafashe urudodo rw'umweru mu ntoki bose bari kuruyuza mu kanwa.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara miremire, ufite uduheri ku mazuru, ufite isura y'inzube n'amenyo y'umweru n'ishinya y'umutuku, utunze intoki zifite inzara ziri mu byerekezo bibiri bitandukanye mu kanwa.

Abantu bambaye imipira y'umweru n'udupfukamunwa n'uturindantoki barikureba mu kanwa k'abantu bambaye imipira y'icyatsi yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo. Bicaye ku ntebe ziyegamirwa. Imbere yabo hari ameza.

Abantu batandukanye bari mu bukangurambaga bwo kwigisha abaturage gukoresha umuti w'amenyo neza n'uburoso, bambaye umupira w'icyatsi wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, umwe wambaye udukomo n'isaha ku kuboko, undi wambaye umupira w'umweru n'igikapu mu mugongo.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara wogoshe, ufite ubwanwa bw'umukara n'ingoyi z'umukara n'ibitsike by'umukara, ufashe urudodo mu ntoki uri kurunyuza mu menyo y'umweru.

Umwana ufite umusatsi mukeya uringaniye uconze, ufite ibitsike by'umukara n'ingoyi z'umukara, amaso y'umweru mo imbere harimo umukara, amenyo y'umweru, iruhande rwiwe hari umuntu wambaye uturindantoki tw'umweru, uri kumushyira utwuma mu kanwa.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara, wambaye agapfukamunwa k'umweru, wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara na karuvati y'umutuku, uri kureba mu kanwa k'umupapa wambaye umupira w'icyatsi, inyuma yiwe hari irido.

Umupapa wogoshe ufite umusatsi muke uringaniye wambaye agapfukamunwa k'umweru, uri kwita ku mumama uryamye ku gitanda kwa muganga ufite umusatsi uboshye, amaso y'umweru, umupapa wambaye uturindantoki tw'umweru ufite akuma mu ntoki.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati y'umweru ufite n'ubwanwa bw'umukara wambaye indorerwamo z'amaso, uri kureba amafoto y'amenyo yanditseho amagambo atandukanye.

Umu papa uri mu nyubako ihurirwamo abarwayi, yubakishijwe amakaro, wambaye itaburiya y'umweru, ufite ikaramu mu mufuka, wambaye n'isaha ku kuboko, hiya ku gikuta hariho impapuro zimanitseho.

Umu mama wambaye agapfukamunwa k'umweru n'ingofero y'umweru, itaburiya y'ubururu n'uturindantoki tw'ubururu, uri kureba mu kanwa k'umurwayi uryamye kwa muganga wasamye.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bicaye mu ntebe, bambaye amashati ajya gusa umuhondo n'amajipo ajya gusa ivu, bafite imiti y'amenyo bamanitse mu kirere iri kumwe n'uburoso bwayo, inyuma yabo hari ikibaho.

Umupapa ufite umusatsi z'umukara wambaye indorerwamo z'amaso n'umupira w'umweru n'ipantaro y'umweru wambaye ikarita y'akazi mu gatuza, uri kwita ku mu mama n'umu papa wicaye kumeza. Iruhande rw'abo hari amasahani ariho ibyo kurya.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru wambaye indorerwamo z'amaso uri guseka, ufite amenyo y'umweru uri kumwe n'umumama wambaye umupira w'umweru mo imbere, ufite umusatsi w'umweru n'amenyo y'umweru uri guseka.

Umumama munini ufite amaboko manini wambaye inkweto z'umweru n'ipantaro n'umupira w'ubururu ufite imisatsi y'umukara, inyuma yiwe hari igiti cy'umukino, hirya hari igitanda, hariho n'intebe ifite umusego.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru, wambaye indorerwamo z'amaso uri guseka, ufite icyuma mu ntoki, uri kumwe n'umugore ufite umusatsi w'umukara, wambaye amaherena, bari ku meza bari kurya, iruhande rwabo hari igikombe kiri ku meza.

Umumama ufite umusatsi w'umukara n'ibitsike by'umukara, amenyo y'umweru uri guseka wambaye umupira ujya gusa umweru uteruye akuma kajya gusa iroza mu ntoki inyuma ye hari abantu bahari n'ibiti bihari.

Umumama ufite umusatsi w'umukara wambaye itaburiya y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, iruhande rw'iwe harambitse umusego uri kwita ku mupapa wicaye mu ntebe, inyuma yabo hari isaka riri mu icupa.

Umumama witeze agatambaro mu gituza ufite utwuma mu ntoki, uri kumwe n'undi mumama ufite umusatsi w'umukara, uhetse igikapu mu mugongo ufashe n'ikindi mu ntoki bari mu nzira bari kugenda, hirya yabo hari ibiti bihari ndetse n'ubukangaga.

Umupapa wambaye impuzankano y'umweru, uri guha igipapuro cyo gusoma undi mupapa ufite umusatsi w'umweru uvanze n'umukara, wambaye ishati y'amaboko maremare, wicaye iruhande rw'intebe, ukuboko kumwe gufashe ku meza, inyuma yiwe hari igikuta cy'umweru.

Umu mama wambaye impuzankano ijya gusa umweru, ufite imisatsi iboshye, iri gusunika umu papa wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, wambaye umupira w'ikaki w'amaboko maremare, inyuma hariho agasengeri, inyuma yabo hari abandi bantu bicaye mu ntebe.

Abamama benshi, umwe uri guseka ufite inyinya, inyuma yabo hari intebe zihari z'umweru, bamwe biteze ibitambaro, abandi batiteze ibitambaro, inyuma yabo hari insina z'imibyare n'ishyamba.

Umumama ufite umusatsi w'umukara uvanze n'umweru wambaye akajiri n'ingutiya y'ubururu, uri kwitabwaho n'umukobwa ufite imisatsi iboshye y'umukara, wambaye umupira w'umweru.

Abapa babiri bari mu myitozo ngororamubiri, bose bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara. Umwe harimo ibara ry'umweru. Inyuma yabo hari ibiti. Iruhande rwabo hari ahantu bashyira imyanda.

Umumama ufite umusatsi muremure w'umweru, harimo undi w'umukara, wambaye isengeri ijya gusa iroza, mu imbere harimo isutiya y'umweru, ushinze inkokora kuri tapi.

Umupapa munini ubyibushye udafite umusatsi uri guseka, wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare ufite ibifungo, wambaye n'ikabutura ya kaki n'amasogisi y'umweru, uri gukina umupira w'amaboko n'umwana.

Umumama ufite umusatsi w'umukara wambaye amaherena ku gutwi, n'umupira w'amoboko maremare uri kwandikira imiti umupapa ufite umusatsi w'umweru wambaye indorerwamo z'amaso, n'umupira w'umukara w'amoboko maremare, iruhande ku meza hariho ikayi n'amazi ari mu icupa.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru, wambaye indorerwamo z'amaso, wambaye umupira w'umutuku w'amaboko maremare, uri gupfundura ikinini. Imbere ku meza hari ibinini biharambitse biri mu dukarito, kumwe n'umumama wambaye umupira w'umutuku utambitsemo umurongo w'umukara, wambaye n'isaha ku kuboko.

Umu papa ufite icupa ririmo imiti ari gusoma amagambo yanditseho, wambaye ishati ya karokaro ufite ubwoya. Imbere hari ameza ariho amacupa arimo ibinini na telefone irambitse ku meza, iruhande rw'iwe hari umu mama uri gukoresha mudasobwa.

Umumama ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye ikarita y'akazi mu gatuza n'imyenda y'umutuku, ufashe akaboko k'umusaza uri guterura icyuma, umupapa wambaye ishati y'umweru, ufite umusatsi w'umweru, wambaye n'indorerwamo z'amaso.

Umu papa ufite uruhara n'umusatsi w'umweru n'ubwanwa bw'umweru wambaye ikoti ry'umukara uri kumwe n'umu mama witeze igitambaro cy'umutuku uri guseka wambaye ikote ry'umukara n'agakomo ku kuboko umu papa uri kumusoma ku itama.

Umumama ufite umusatsi woboshye w'umukara, wambaye amahere n'itaburiya y'ubururu uri kwita ku mupapa ufite ubwanwa bw'umweru, wambaye umupira w'umweru n'impeta ku rutoki, ufite inkoni mu ntoki, wicaye ku buriri.

Abamama bishimye batandukanye, bambaye imyenda itandukanye, harimo n'umupapa, abamama bose biteze ibitambaro mu mutwe, bafite agatete bari gusoroma icyayi.

Abamama benshi batandukanye barimo abambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru, bamwe biteze ibitambaro abandi batiteze ibitambaro, hirya yabo hari igiti kirekire.

Umumama ufite umusatsi w'umweru uvanzemo umukara muke wambaye indorerwamo z'amaso n'amaherena ku matwi, wambaye umupira ujya gusa umweru w'amaboko maremare uri gukatira imboga ku kabaho gateretse hejuru y'ameza, iruhande rwiwe hari umukobwa uhari wambaye umupira w'ubururu.

Umumama ufite umusatsi w'umukara wambaye itaburiya y'ubururu, afite agakarito k'ibinini mu ntoki, wambaye isaha ku kuboko, uri guha undi mu mama wambaye umuringa mu ijosi, ufite umusatsi w'ikigina, ikinini mu ntoki, ufite igikombe cy'amazi.

Abapapa bicaye mu cyumba cy'inyubako, umwe ufite agaseke ari kuboha, iruhande rwiwe hateretse icupa ririmo amazi, hino ari umupapa wambaye isaha ku kuboko n'umupira w'ubururu, bose bakenyeye ibitambaro, bamwe bicaye k'umukeka.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru n'umukara, ugaragara ugutwi kumwe, ufite ubwanwa b'umweru uri guseka, ufite amenyo y'umweru, ufite urambuye ukuboko harimo akuma, uri kwitabwaho n'umumama, ufite umusatsi muremure, wambaye itaburiya y'umweru.

Umupapa muremure ufite umusatsi w'umweru, wambaye indorerwamo z'amaso n'umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ifite umushumi w'umweru, ufashe utwuma tubiri mu ntoki urambuye amaboko.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara iboshye, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'isaha ku kuboko n'udukomo uri guha ibinini umupapa ufite ubwanwa bw'umweru n'umupira w'umukara uri gukanda kuri mudasobwa.

Umupapa ufite uruhara, ufite ubwanwa bw'umweru, wambaye umupira ufite ikora n'umufuka mu gatuza, uteze ikiganza bari guha imiti, hino afite igikombe kirimo amazi, uri kwitabwaho n'umumama wambaye impuzankano ijya gusa ubururu n'ikarita y'akazi ku mufuka.

Umupapa ufite umusatsi w'umweru uvanze n'umukara n'ubwanwa bw'umweru buvanze n'umukara uri guseka wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'ubururu rifite ibifungo, umupira urimo uturongo hino uri gukina ikibuguzo n'undi mugabo.

Icyumba cy'inyubako kirimo umupapa muremure ufite agakoresho ari kugenderaho, wambaye igikanzu kirekire gifite umushumi uri kwitabwaho n'umumuma wambaye itaburiya y'umweru n'isaha ku kuboko, iruhande muri iyi nzu harimo indabyo.

Abamama batatu, bari kureba muri terefone, babiri bambaye ingofero, abandi babiri bambaye indorerwamo z'amaso, umwe hari ibintu ateruye mu ntoki, hirya hari undi muntu wambaye ingofero, wabateye umugongo.

Amagambo ahinnye ari mu ibara ry'ubururu, iruhande rwaho hari ishusho y'urukiramende, hasi hariho itara riri kwaka urumuri rw'umuhondo, harimo n'urundi rw'umweru munsi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Abantu benshi bicaye mu ntebe, bambaye imyenda itandukanye bareba imbere, hari abantu bari kubyina barambuye amaboko, bamwe bambaye imishanana, hariho utuntu tw'umweru, n'abagabo bambaye imyenda y'ubururu hejuru, inyuma yabo hari igitambaro cyanditseho amagambo atandukanye.

Abantu benshi batandukanye bamwe bicaye, abandi bahagaze bose bafite impamyabumenyi mu ntoki, hino hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru na tapi irambuye mu cyumba, hirya ari insakazamashusho iri ku gikuta.

Abagore bateruye icyapa kinini gifite umwanya mo hagati, bari kugaragariramo ,ku cyapa hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hasi hariho ikimenyetso kiri mu ishusho y'uruziga, gifite ikimenyetso cyo guteranya hejuru, inyuma yabo hari inyubako zihari n'ibiti birebire.

Abantu batandukanye bicaye imbere, bari guha ikiganiro abandi bantu babicaye imbere, inyuma yabo ari icyapa kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza n'imibare, umwe mu bamama ufite indangururamajwi.

Igitambaro cy'ubururu cyometseho ikindi gitambaro, cyanditseho amagambo y'umweru atsibatse hasi, hariho andi adatsibatse byose biri mu ishusho ijya gusa ikaki.

Amagambo ari mu ibara ry'umweru atsibaze ari mu ibara ry'ubururu, hino hari andi ari mu ibara ry'ubururu atsibaze, ari mu ishusho y'urukiramende rutari runini.

Umumama ufite imisatsi y'umukara iboshye ugaragara ugutwi kumwe, wambaye iherena, wambaye ishati y'ubururu uri guseka, iruhande rwiwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'andi yanditse mu ibara ry'umweru.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru bafatanyije n'abakoranabushake bari kwita ku murwayi uryamye hasi ku gatanda kabugenewe gatwara abarwayi, hirya yabo hari igiti kirekire gifite amashami menshi.

Umupapa wambaye ingofero y'umukara n'indorerwamo z'amaso, ugaragara ugutwi kumwe, wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, ufite igipapuro kirekire mu ntoki ze handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, inyuma yiwe hari inyubako ihari n'igiti kirekire.

Abagabo babiri bari kumwe n'abakobwa babiri bose bambaye imyenda yo hejuru y'umweru, bafite udukingirizo mu ntoki dutandukanye, bamwe bafite ak'umuhondo, undi ak'umutuku, undi akajya gusa ubururu, iruhande rwabo hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Umu papa uri kuganiriza abana bamwe bambaye impuzankano y'ishuri na karuvati mu gatuza, hirya hari umu mama ufite umusatsi w'umukara uri guseka, iruhande rwiwe hari amagambo yanditseho mu rurimi rw'Icyongereza.

Umumama ufite umusatsi w'umukara, wambaye ishati y'umweru n'akajiri k'umutuku, iruhande rwabo hari ameza ariho indangururamajwi, uri kwita ku murwayi, inyuma yabo hari abandi bantu bahahagaze.

Ishusho y'uruziga yanditsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ari m ibara ry'umukara, mu imbere harimo ikarita y'igihugu cy'u Rwanda, harimo amagambo yanditse mu mpine agizwe n'ibara ry'ubururu, n'andi ari mu turongo tw'umweru.

Umupapa wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ishati y'umweru y'amaboko magufi ari kumwe n'undi mumama ufite umusatsi w'umukara wambaye wambaye agapfukamunwa n'ikanzu y'igitenge, iruhande rwabo hari ameza ateretseho ibintu, imbere yabo hari abandi bantu bafite udukapu mu ntoki n'abandi bicaye.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati y'umweru, wambaye n'ikoti risa n'ipantaro, n'isaha ku kuboko, uri gusuhuza aba mama bihaye Imana bambaye udutambaro tw'umweru mu mutwe, bose bambaye indorerwamo z'amaso, hirya ku gikuta hariho ikirangantego cy'igihugu.

Amabara menshi ari mu ishusho y'uruziga, amwe y'icyatsi, andi y'umuhondo, andi ari mu ishusho ijya gusa ikigina anyuranyuranyemo, imbere yayo hari amagambo yanditse mu ibara rijya gusa umukara atsibase.

Abantu bicaye ku gikuta cy'inyubako y'isoko, inyuma hari amagambo yanditse mw' ibara ry'umutuku, n'umubare wanditse mw'i ibara ry'umutuku, iruhande rwaho hari agatambaro kajya gusa ubururu kanyuranyemo.

Inyubako iri mu ishusho y'uruziga igizwe n'amabara atandukanye, inyuma hari izindi nzu nyinshi zihari, iruhande rwaho hari umukobwa wipfumbase uri kugenda, hejuru hari ishusho y'uruziga n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bateraniye hamwe benshi, bambaye impuzankano y'ishuri harimo n'abandi bambaye imipira y'umweru hejuru, imbere yabo hari abantu bafite igitambaro kinini cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Ibara ry'ubururu ryanditsemo amagambo y'umweru atsibaze, hasi hari ibara ry'icyatsi ryanditsemo amagambo y'umweru atsibaze n'andi hasi ari mu ibara rijya gusa umuhondo, hino hari igishushanyo kimeze nk'agacuma.

Inyubako zituriye iruhande rw'amazi ndende, hino hari icyome kiri kugenda mu mazi, hino ari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, n'andi yanditse mu ibara rijya gusa umuhondo, n'andi yanditse mu ibara ry'umweru atsibaze, hino hariho ishusho y'umuntu.

Icyapa kinini, kiriho amagambo y'umweru, hasi hariho igishushanyo cy'umutima cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ry'ubururu, hasi hariho ibiranganteko bitandukanye.

Ikirango cy'igihugu, amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ibizeru bitandukanye birimo amashusho atandukanye, hamwe harimo ubukarabiro, ahandi harimo abantu babiri bambaye udupfukamunwa, ahandi harimo abantu bahagaze batandukanye.

Abantu benshi bahagaze hamwe bari kwifotoza, inyuma yabo hari igitambaro cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hirya hari imodoka iri kugenda ndetse n'inyubako zihari.

Umupapa wambaye ishati y'ubururu ifite ikora, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi; hasi hari igishushanyo cy'uruziga, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara amwe adatsibaze n'andi atsibaze.

Abantu benshi b'abagabo n'abagore bicaye ku murongo w'imbere ab'inyuma bahagaze, inyuma yabo hari igitambaro kinini gishushanyijeho ikirangantego cy'igihugu n'amagambo ari mu ibara rijya gusa icyatsi, inyuma yabo nanone hari amadarapo abiri.

Imiti gakondo itandukanye imwe iri mu dusahane harimo karoti, urusenda n'ibindi bitandukanye, iruhande rwaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku n'andi yanditse mu ibara ry'umukara.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda munsi harimo amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, hirya hari amagambo yanditse mu mpine, hasi hari agatambaro k'umutuku kanyuranyemo, iruhande rwaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abantu b'igitsina gore benshi batandukanye bicaye mu cyumba cy'intama, imbere yabo hari ameza, umwe imbere y'iwe harambitse mudasobwa, inyuma hari idirishya ribengerana n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umumama witeze igitambaro wambaye n'ikindi mu gatuza uteruye umwana udafite umusatsi, inyuma yiwe hari abantu bambaye imyenda y'umweru iriho na karuvati y'umukara, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu n'andi yanditse mu ibara ry'umukara.

Abapapa babiri bari gusuhuzanya, umwe wambaye indorerwamo z'amaso, bose bambaye amashati y'umweru na karuvati n'amakoti, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirangantego cy'Igihugu.

Agatabo kari mu ibara ry'ubururu, gafite intango y'umweru, hashushanyijeho igishushanyo y'uruziga, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru atsibaze, hasi hari andi yanditse mu ibara ry'umweru.

Abapapa babiri bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umukara mo imbere na karuvati y'umukara, hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara rijya gusa umutuku n'ishusho iri mu ruziga n'amagambo yandi yanditse mu ibara ry'ubururu.

Icyapa giteye mu busitani kiriho amagambo atandukanye n'ibimenyetso bitandukanye, iruhande rwaho hari inzira, hirya hari andi mazu ahari n'igiti kirekire.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru, iruhande rwayo aho binjira hari amagambo yanditsew ibara ry'umweru mu rurimi rw'Icyongereza, iruhande ari ubusitani hirya hari indi nyubako ihari n'igiti cyateye n'inzira nyabagendwa.

Umukobwa ufite umusatsi muremure w'umukara unyereje wambaye indorerwamo z'amaso iruhande rwiwe hari undi ufite umusatsi muremure wambaye itaburiya y'umweru n'indorerwamo z'amaso hejuru yabo hari utubati turimo indorerwamo nyinshi zitandukanye.

Icyumba cy'inyubako gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo igitanda gifite amapine n'intebe zifite amapine, hirya hari amadirishya agizwe n'ibirahuri, iruhande hari terefoni iri hejuru ku meza.

Inyubako zivurirwamo abarwayi, zifite amabati asize irangi ry'icyatsi, hino hari amatara ari ku nzira, hirya hari amashanyarazi ahari, n'imyicungo y'abana, n'ibigega bihari, hino hari ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye.

Abantu bicaye ku ibaraza ry'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yabo hari umuryango hejuru handitseho amagambo, hino ku gikuta hari kizimyamuriro, imbere yaho hari ubusitani bugizwe n'indabyo n'inzira nyabagendwa.

Inyubako irimo igitanda n'intebe hirya ku gikuta hariho umuntu uri kuguruka n'ifi ishushanyijeho n'icyuma kiriho, hino hari akabati hejuru hariho ubukarabiro.

Ubusitani buteyemo ibiti harimo n'imyicungo y'abana yubakishijwe ibyuma, hirya hari igikuta gifite imyanya irimo ibyuma hirya y'aho hari inzu nyinshi zihari n'ibiti birebire n'insinga z'amashanyarazi.

Icyumba k'inyubako kivurirwamo abarwayi, umu papa ufite umusatsi w'umukara wambaye agapfukamunwa n'utwuma mu matwi n'itaburiya y'umweru, iruhande rwe hicaye undi muntu witeze igitambaro mu mutwe, hirya hari akana bari gusuzuma kambaye ubusa hejuru.

Umumama wambaye itaburiya y'umweru ifite amaboko magufi, wambaye agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso, uri kwita ku mwana wambaye imyenda y'umweru, uteruwe n'umumama ufite imisatsi iboshye, wambaye ikanzu ijya kuba ubururu.

Inyubako irimo abantu bicaye ku ntebe, izindi ntebe zicayemo ubusa, bari kureba mu cyerekezo kimwe, imbere yabo ari umuryango uhari ufite ibirahuri bifunguye, hino ku gikuta hari ifoto ihamanitse.

Inyubako ivurirwamo abarwayi harimo igitanda gifite amapine, buri kimwe cyose, iruhande rwaho hariho mudasobwa iri ku gikuta n'amarido azinze.

Inyubako ndende irimo imiryango itandukanye, hari amagambo yanditse ku gikuta n'imibare, amwe ari mu ibara ry'umweru, hino hari amarido arambuye, hirya hari umuryango.

Igiputa kirekire gifite amadirishya hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi atsibaze, urebeye mu idirishya hirya hari amatente yubatse yo, hino hari umuntu uri gukora mu busitani.

Inyubako ifite ibaraza rinini n'umuryango munini, iruhande hari urupapuro rwanditseho ibintu bitandukanye, ruriho hejuru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, imbere hari abantu bahicaye,

Icyumba k'inyubako gifitemo igitanda cy'amapine gishasheho amashuka y'umweru, hejuru harambitseho inshinge, hirya ku gikuta hari insakazamashusho irimo ifoto, hino hari idirishya ribengerana.

Inyubako ivurirwamo abarwayi, irimo igitanda gifite amapine, hirya hari ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye, hejuru hari itara ririkwaka, hirya ku gikuta hari insakazamashusho.

Inyubako ndende iruhande rwayo hari abantu bahagaze ku nkingi z'inzu, imbere hari inzira nyabagendwa ishashemo amapave, hirya ari ubusitani n'igiti kirekire gihari, hirya yaho hari umunara muremure.

Abantu bicaye mu ntebe z'aho bakirira abarwayi, imbere hari ameza ariho ururabyo, hirya ari igiti giteye mu nzu, n'abantu bari kwakira abarwayi, n'isaha ku gikuta, hirya hari insakazamashusho iri kwaka.

Inyubako irimo abaganga bicaye ku meza bari kwakira abarwayi, imbere yabo hari umupapa wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, iruhande rwabo hari umurongo w'abantu benshi, imbere hari intebe bicaraho.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'ubururu imbere, wicaye ku ntebe imbere y'ameza, ku meza hariho mudasobwa n'undi muntu umwicaye imbere bari kuganira inyuma yabo hari undi wambaye imyenda y'ubururu ufite ikaye n'ikaramu mu ntoki.

Umupapa wambaye ipantaro y'ubururu n'itaburiya y'ubururu ufite akuma mu gatuza, wicaranye n'umumama wambaye ikanzu yigitenge, inyuma hari inzu yubakishije amatafari adahiye n'insina z'imibyari ziri hirya n'indabyo zihari.

Inyubako ndende ifite amadirishya y'ibirahuri hino mu birahuri harimo abantu bahagazemo iruhande kumuryango hari umupapa uhari wambaye inkweto z'icyatsi wifashe mu gatuza n'umumama wambaye igitambaro k'icyatsi uteruye umwana.

Inyubako zitandukanye zubakishije amatafari ahiye, zimwe zisakaje amabati y'umutuku izindi amabati y'ubururu, hirya hari ikigega imbere yayo hari ubusitani n'indabyo zihateye n'umugezi.

Inyubako zubatse ku murongo, imbere yayo hari inzira nyabagendwa, hari abantu bahahagaze bambaye imyenda y'umweru, hejuru ku nyubako hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru, imbere yaho hari igiti kihateye n'ubusitani.

Umu mama wambaye ishati y'umweru ifite ibifungo, ufite umusatsi w'umukara uri gupima umwana ku munzani, umwana wambaye imyenda ifashe mu munzani, inyuma hari abandi babyeyi bafite abana.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'iterambere imwe hejuru y'indi, harimo aho bacururiza imiti, imbere handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, n'andi ari mu ibara ry'icyatsi, mo imbere harimo imiti itandukanye mu tubati.

Umuganga w'umugore ufite imisatsi miremire igera mu mugongo, wambaye imyenda y'umweru n'agapfukamunwa, uri kwita ku mumama wambaye amadarubindi, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, hirya hari abandi bantu bicaye bari kwita ku barwayi.

Inyubako ndende ifiteho umuzamu aba yicaye ayireba, hirya hari umunara muremure iruhande rwaho harimo ibiti imbere mu gipangu, inyuma ku gikuta hari icyapa gihari cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ibindi byinshi.

Umu mama wambaye impuzankano y'umweru n'agakomo mu gatuza uteruye umwana uri mu myenda imushyushya, iruhande rw'iwe hari undi wambaye indorerwamo z'amaso ufite umusatsi uzinze wambaye impuzankano y'ubururu, inyuma yabo ari ibikoresho bihari bitandukanye.

Inyubako ndende iri mu ibara ry'umweru, imbere yayo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, imbere hari inzira nyabagendwa irimo umuntu w'umugabo uri kugenda, iruhande hari ubusitani ndetse n'ibiti birebire.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hari ibaraza rinini hari ameza ahateye, imbere yayo hari umuntu uhahagaze wambaye umupira w'ubururu n'indorerwamo z'amaso ufite umusatsi uboshye, inyuma yabo hari ikigega ndetse n'insina z'imibyare.

Inyubako irimo ibitanda n'amarido n'intebe ziteyemo, hirya hari umuntu wambaye imyenda isa, ufite umusatsi uzingiye inyuma, hirya hari irido riri ku rugi.

Inyubako ifite igikuta kigizwe n'inkingi z'amatafari ahiye n'ibyuma, mo imbere harimo ubusitani, harimo umuntu uryamyemo, iruhande hari umuhanda abantu bari kugendamo ari benshi.

Inyubako ndende ifite umuryango ufunguye igizwe n'ibirahure n'imbere harimo abantu bari kwaka ibicuruzwa, hejuru ku nyubako hari amagambo ahanditse. Hino mu kirahure harimo ifoto y'umuntu utwaye imodoka.

Inyubako ndende irimo intebe zegamirwa, imbere hari ameza aho umusangiza w'amagambo ahagararaho, ifite amadirishya y'ibirahuri, hejuru ku gisenge harimo imfatamashusho.

Inyubako ndende igizwe n'amadirishya y'ibirahure yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hari uruzitiro rw'ibyuma, imbere hari umuhanda abantu bagendamo, hirya hari ibiti bihari n'abandi bantu bari kubaka.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi, harimo intebe zifite amapine, harimo n'indabyo zirimo, hari aho bakirira abarwayi, hejuru harimo akongera umuyaga.

Icyumba cy'inyubako, kirimo intebe ifite amapine n'igitanda kivurirwaho abarwayi gifite amapine, hirya hari akabati kariho terefoni hejuru, hino ku gikuta hariho ahantu bazimiriza itara.

Inyubako yubakishije amatafari y'impunyu, hejuru ku mabati hariho imyirasire, ku gikuta hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari indabyo zikoze uruzitiro, hirya hari ibiti birebire biconzwe neza.

Inyubako ifite umuryango ufungurirwa ahantu habiri, hamwe hagizwe n'icyuma ahandi hagizwe n'ikirahure, hejuru yawo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, iruhande ku gikuta ari uw'ibara ry'umweru.

Umupapa uryamye kwa muganga ku gitanda gifite amashuka y'umweru, ariho uruziga rurimo ikimenyetso cyo guteranya, wambaye ishati y'umweru n'isaha ku kuboko, uri kwerekana ikiganza.

Inyubako ndende, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ameza, ikibumbano cy'akanyamasyo, gifite igikono k'icyatsi, imbere harimo intebe z'amoko atandukanye, hirya ku bikuta, hariho amatelefone.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite umuryango ugizwe n'ibirahure, hejuru hari amagambo yanditse mw' ibara ry'ubururu, atsibaze n'andi adatsibaze yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Abantu benshi batandukanye, bari mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi, bambaye amataburiya y'umweru, arimo abakobwa babiri, n'abahungu babiri, iruhande rwabo hari aho bacomeka umugozi wa mudasobwa.

Inyubako ndende igeretse yanditseho amagambo ari mu ibara rijya gusa umukara, hari ikirangantego kiri mu ishusho ry'uruziga, imbere yayo hari aho bahagarika imodoka, inzira iri kujyayo n'ubusitani buteyemo ibiti.

Umuntu ufite umusatsi mukeya uringaniye wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru ifite umufuka mu gatuza, wambaye n'impeta mu ntoki, ufashe agakarito mu ntoki, iruhande rwiwe hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, imbere hari intebe ihari iteye iruhande rw'ameza.

Inyubako yubakishijwe amakoro, imbere yayo hari abantu bahahagaze, iruhande hari inzira nyabagendwa, hino yaho hari ubusitani burimo indabyo ndende n'ibindi byatsi bigufiya.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi hakoreshejwe imyitozo ngororamubiri, kirimo ibyuma bitandukanye bimwe bifite insakazamashusho, imbere yabyo hirya ku gikuta hariho insakazamashusho iri kugaragaza umuntu mo imbere, hejuru ku gisenge harimo amatara y'umweru.

Inyubako ndende igizwe n'inzu zigerekeranyije, zose zubakishijwe ibirahure, hejuru hariho ikigega, iruhande hari ibiti bikikije inyubako n'igiti cy'umukindo, iruhande hari icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, imbere y'inzu hari imodoka zihahagaze.

Inyubako ivurirwamo abarwayi irimo ibitanda bifite amapine n'imizigo irambitseho, harimo amarido akunje hirya hari insakazamashusho.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'iterambere imwe hejuru y'indi, mbere yayo hari abantu bahahagaze benshi, hino ari igiti kirekire gihari n'ikindi cy'umukindo, imbere yayo hari imodoka iri kugenda.

Umupapa wicaye ku ntebe imbere yiwe hari ameza ariho mudasobwa icometseho umugozi, hirya hari insakazamashusho harimo ifoto y'uruti rw'umugongo, ari kuyireba cyane.

Abantu bahagaze mu ishuri inyuma hari ikibaho cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, harimo umupapa wambaye itaburiya y'umweru iriho Ikirangantego cya Kaminuza y'u Rwanda uri kwigisha umwana uko boza amenyo.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi bamwe baryamye ku bitanda kwa muganga, hirya hari umuganga uri kubitaho wambaye itaburiya y'umweru, hino hari undi mwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, harimo inzitiramibu imanitse hejuru.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite umuryango ufungurirwa habiri, hejuru hariho itara rizimije, iruhande hari intebe zihateye, imbere ku ibaraza hari abantu babiri bari kuhagenda, hirya hariho ikigega.

Icyumba k'inyubako kirimo amatara hejuru ku gisenge, harimo intebe ifite amapine n'indi y'inyegamirwe ifite amapine, hirya yaho hari igitanda, hejuru ku gikuta hariho insakazamashusho.

Umu papa uhagararanye n'aba mama bafite imisatsi iboshye, undi ufite imisatsi miremire imanuye ku ntugu, hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu atsibaze, n'andi ari mu ibara rijya gusa umukara, inyuma yabo hari amadirishya.

Icyumba cy'inyubako kirimo intebe yikaraga, ifite amapine n'igitanda gifite amapine, hino yacyo hari ameza ahari, hirya ku gikuta hariho ibishushanyo bya baringa, hariho n'insakazamashusho.

Inyubako ivurirwamo abarway,i irimo ibitanda bitandukanye bifite amapine hejuru ku gisenge hamanitseho inzitiramibu, iruhande rwaho hari amarido akubye, hirya ari umuryango basohokeramo.

Umu mama uri kugenda mu nyubako, wambaye imyenda y'icyatsi, ipantaro y'icyatsi ifite umufuka, inyuma harimo terefone wambaye agakomo ku kaboko, hirya hari ibitanda bifite amapine.

Inyubako ndende ifite indangururamajwi imbere, iruhande rwaho hari aho bakirira abakiriya, iruhande hari ubusitani buteyemo umukindo, imbere hari imodoka iri kugenda n'abantu bahagaze imbere y'inyubako.

Umumama ufite imisatsi y'umukara, izirikishije umubano w'umukara, wambaye amaherena ku gutwi n'ishati y'ubururu, uri kuvura umupapa ufite umusatsi w'umweru wambaye ishati y'umutuku ifite ibifungo.

Umumama ufite imisatsi y'umukara iboshye, wambaye agapfukamunwa n'amaherena n'itaburiya y'umweru, ifite ikimenyetso cy'umusaraba mu gatuza, uri kuvura umwana wicaye mu ntebe wambaye ishati y'umweru.

Inyubako yubakishijwe amakoro, ifite amadirishya menshi atandukanye, n'inkingi ziri iruhande; imbere hari abantu babiri bari kugenda, hejuru ku gisenge hari abantu bahagaze, iruhande rwayo hari ubusitani.

Inyubako ivurirwamo abarwayi iteyemo intebe mo imbere, hirya hari umuryango ufunguye, hanze urebeye mu birahure hari ibiti bihari n'inyubako zihari.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi kirimo igitanda gifite amapine, kirambuyeho ishuka y'umweru, hirya hari isakazamashusho iri ku gikuta, hino hari agakoresho gafite isakazamashusho hejuru gafite amapine.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'iterambere, imwe hejuru y'indi, iruhande rwayo hari amatara ahari, hino hari ibyapa byubatse mu buryo bugerekeranyijeho byanditseho amagambo atandukanye, iruhande rwayo hari inzira nyabagendwa, hino hari ubusitani n'amapoto y'amashanyarazi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye iruhande rwaho hari indi nyubako iri mu ishusho y'uruziga, imbere hari inzira nyabagendwa n'ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'ibyatsi bigufi.

Icyumba cy'inyubako kivurirwamo abarwayi kirimo igitanda gishasheho amashuka y'umweru, hino hari mudasobwa zitandukanye, hirya ku gikuta gifite ibara ry'umweru hariho ahantu bacomekera imigozi y'ikoranabuhanga.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bw'iterambere imwe hejuru y'indi iruhande hari amagambo yanditseho imbere yayo hariho kizimyamwoto n'ibiti bihinze mu madebe imodoka iri kugenda hino hari imodoka yahahagaze.

Inyubako ifite umuryango muremure, buri muryango hariho urwandiko ruriho, hejuru hariho amatara n'icyatsi kiri iruhande ku gikuta n'ibyuma bifashe igisenge, hari amagambo yanditse mu mabara atandukanye.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri hirya hari utwuma duhari dufite amapine, mu nyubako harimo tapi y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru hejuru ifite igikuta kinini.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, kizimyamwoto iri ku nyubako, iruhande rwayo hari inzira nyabagendwa, n'ubusitani bukikijwe n'indabyo, hirya hari ibigega n'indi nzu ihari ifite amabati y'umutuku.

Abantu batandukanye bari mu nzu ikorerwamo ubushakashatsi imbere yabo hari utwumba tugiye turimo ibikoresho bitandukanye hejuru ari icupa rifite umufuniko w'ubururu imbere yabo hari akandi kuma karekare gahari.

Umupapa uryamye ku buriri kwa muganga wambaye umupira w'umweru ufite ikora n'ibifungo, wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ingofero y'umukara, uri kwitabwaho n'umumama ufite imisatsi miremire iboshye, wambaye itaburiya y'umweru.

Umumama wambaye ipantaro y'ubururu, inkweto z'umukara n'ishati y'ubururu n'ikarita y'akazi mu gatuza, wambaye agapfukamunwa ufite imisatsi y'umukara iboshye, uri kugenda mu cyumba, hirya hari abandi bantu bahahagaze harimo abambaye amataburiya y'umweru.

Umupapa uryamye ku gitanda kwa muganga, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru; umupapa ufite isaha ku kuboko, hirya hari undi mugabo uharyamye bari gutera urushinge, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako ndende yubakishijwe amakoro, iruhande rwayo hari ubusitani buteyemo igiti, hino hari inzira abantu bari kugendamo hari n'icyapa cyanditse ku kazu gahari, hino hari ubusitani buteyemo idarapo.

Inyubako yakirirwamo abarwayi, imbere yayo hicaye abantu batandukanye abenshi bahetse, imbere ku gipangu haparitsemo igare, imbere mu muhanda hari igare ritwaye umugenzi, ku gikuta hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umuntu ufite intoki z'umukara ufashe igikombe kinini gifite umukondo, uri gusuka amazi mu gikombe cy'ikirahure, amazi ari kugwamo asa nk'atonyanga arimo utudomodomo.

Imiti iri mu iduka iri mu macupa atandukanye indi iri mu bikarito, buri kimwe cyose cyanditseho amagambo atandukanye. Amwe ari mu makarito y'umuhondo bivanze n'umweru.

Umupapa uryamye mu nzu hasi wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara uri kwitabwaho n'undi mupapa wambaye umupira ujya gusa ubururu n'isaha ku kuboko, hirya amarido azinze urebeye mu kirahure hanze hariyo ibiti n'inyubako.

Umuntu wambaye umupira w'umweru, ufite amaboko y'umutuku n'ikabutura y'ikigina, urambuye amaguru uri kuzirikwa imbuzaguhina ku birenge byombi, wicaye hejuru y'akabati hirya hari abandi bantu bahicaye.

Umupapa wari mu myitozo ngororamubiri ufite ukuboko kunini, wambaye udukomo ku kuboko n'umupira w'umukara, ipantaro ijya gusa ikigina, uteruye icyuma kinini gifite amapine mu ntoki.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara uzinze, wambaye agasengeri karimo ibara ry'umweru n'umuguno w'umukara umanitse akaboko, uri kwikora mu bitugu wambaye isaha ku kuboko.

Abakoranabushake babiri bambaye amajiri y'umutuku, bari kwita ku mukinnyi uryamye mu kibuga, wambaye inkweto zifunze n'amasogisi y'umutuku, iruhande rwabo bakikijwe n'abandi bakinnyi b'umupira.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara, wambaye agasengeri k'umukara, n'ipantaro ijya gusa umweru, harimo amabara y'umweru, iruhande rw'iwe hari mudasobwa irambitse kuri tapi, hino hari icupa ry'amazi.

Umugore ufite umusatsi usa ikigina, muremure, wambaye isengeri y'umweru, wicaye hejuru y'ibyuma bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, iruhande rw'iwe hari umugabo uhari, wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abakinnyi bicaye ku ntebe y'abasimbura bambaye imyenda y'umuhondo, inyuma yabo hari abafana, iruhande hari abakoranabushake bafite ibikoresho bimwe biri mu gikapa, ibindi biri mu kantu kabugenewe kabika ibyo bikoresho birambitse mu byatsi.

Abapapa babiri bari kwita ku mukinnyi wambaye ingofero yabugenewe y'icyuma, undi ufite aka esime mu ntoki, hirya hari undi mupapa wambaye indorerwamo z'amaso.

Urugaga rw'abaganga bamwe bicaye abandi bahagaze, bose bambaye udupfukamunwa bari kureba kunsakazamashusho imanitse ku gikuta, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa imwe itagaragaramo amashusho, indi igaragaramo amashusho.

Umuntu wicaye ku gitanda, wambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umukara arimo akarongo k'umweru, wambaye ikabutura y'umweru n'umupira wanditseho imibare, hirya hari abantu bahahagaze.

Abantu benshi bari mu myitozo ngororamubiri, umwe wicaye ku ntebe, undi uri kunanura amaboko, undi uri kwirukanka, undi uri guterura ibyuma yicaye ku ntebe, abandi bari gukina umupira w'amaguru n'abandi bari kwirukanka.

Umupapa wambaye umupira w'umukara inyuma hariho undi w'umweru, ufite ikora, ufite agatambaro kari mu ibara ry'ubururu gatose, ari kugakoza mu nkokora, afite ubwoya ku maboko, wambaye ipantaro isa ubururu.

Umupapa wambaye isengeri y'icyatsi ufite ukuboko kunini, ufite umusatsi w'umukara ugaragara ugutwi kumwe, ufite n'ubwanwa bw'umukara, uhinnye akaboko kariho imitsi, uri kunywa amazi mu icupa yasamye.

Umupapa uryamye ku gitanda wambaye isaha ku kuboko n'agakomo ku kandi kaboko ufashe telefoni mu ntoki, uhinnye ivi akandi kaguru karambuye, uri kwitabwaho n'undi mupapa wambaye agakomo ku kaboko.

Umuntu wambaye ikanzu y'amaboko magufi, ufite akantu kaziritseho igitambaro mu ntoki, uri gukoza mu ivi ry'undi muntu uryamye ku buriri, wiseguye aka esime munsi, wambaye ikabutura y'umukara.

Insakazamashusho igaragaza amafoto y'ibintu bitandukanye yose ari mu ruziga, hasi hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, byose biri mu ishusho y'ibara ry'umukara rivanze n'ubururu.

Umukobwa w'inzobe uteye umugongo umusore wambaye umupira w'umweru w'inzobe, bose bafite amacupa arimo amazi afite iminwa y'ubururu, bari kunywa amazi.

Umumama uri mu nyubako irimo mudasobwa iteretse ku meza na terefoni iteretse ku meza, iruhande rw'iwe hari insakazamashusho ufite imisatsi miremire.

Umupapa wambaye itaburiya y'ubururu, mu mufuka harimo akantu, wambaye ikarita y'akazi mu gatuza, ufashe ukuguru k'umukobwa mu ntoki wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru wifashe mu nda bari kumukanda mu ivi.

Amafoto y'abantu batandukanye bari mu myitozo ngororamubiri, umwe wicaye anyuranyijemo amavi afashe ku mavi, undi uri kugorora umugongo n'undi uri kwirukanka hejuru y'icyuma cyabugenewe, hasi hari amagambo yanditse rurimi rw'icyongereza n'undi uri kugorora umugongo.

Umupapa uri mu myitozo ngororamubiri ufite ukuboko kunini, wambaye isengeri y'icyatsi, umanitse amaboko mu kirere, ufite icupa ry'amazi ry'umweru rifite umufuniko w'umukara, uri kwimena amazi mu maso, wambaye agatambaro k'iroza ku kaboko kamwe.

Umupapa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare n'kabutura y'umukara imutsemo uturongo tubiri tw'umweru bari kumuzirika imbuzagukina ku kirenge uri kwitabwaho n'undi wambaye itabuririya y'ubururu.

Umumama wambaye umupira w'umutuku ufite umusatsi muremure uboshye n'amaherena ku gutwi, wambaye akajiri kajya gusa ubururu, ufite indorerwamo uri kureba mu maso y'umwana wicaye ku ntebe.

Umuntu wicaye wahinnye akaguru kamwe k'ipantaro, ufite akantu mu ntoki gatose uri gushyira ku gatsitsino, akaguru kandi karambuye, wicaye ku bintu by'umweru.

Abakinnyi batandukanye bari mu kibuga bakiniramo umukino w'amaboko, inyuma yabo hari abafana benshi, iruhande hari urutoki, imbere yabo ari abantu bateruye icyapa.

Umupapa wicaye mu byatsi uri gushinyiriza wambaye isengeri y'umukara ifite umuguno ujya gusa umweru, wambaye ikabutura uri kwikanda ku itako, inyuma yiwe hari ibyatsi bisa icyatsi n'ibindi by'umweru.

Abakoranabushake babiri bambaye amajiri y'umutuku bateruye umuntu wavunitse mu ivi, twambaye umupira w'umuhondo, inyuma yabo hari abandi bantu bahari bambaye imyenda y'umweru, inyuma hari ishyamba.

Umupapa ufite umusatsi w'umukara wogoshe igice kimwe, ugaragara ugutwi kumwe, ufite ubwanwa bw'umukara, wambaye umupira w'ubururu n'agakomo mu gatuza, uhinnye akaboko, uri kunywa amazi mu icupa.

Umuntu wambaye umupira ujya usa ikaki, ufite akaboko karekare kananutse, ufite agatambaro gatose, uri kwishyira amazi mu nkokora yitosa.

Umuntu ufite umusatsi w'umukara wambaye itaburiya y'umweru n'ikarita y'akazi mu gatuza, wambaye uturindantoki tw'umweru ufite ikintu kimeze nk'umupira mu ntoki, iruhande rwiwe ku gikuta hariho kizimyamwoto.

Umuntu uteruye igikoresho kimeze nk'imbehe mu ntoki, kiriho imbuto zitandukanye, harimo tungurusumu, karoti, inyanya, avoka na pome, iruhande rw'aho hari itapi izinze ihari n'inkweto zikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Umugore ufite umusatsi w'umukara muremure uboheye inyuma, uzirikishije agatambaro gasa ikigina, imbere mu gahanga yiteze akandi k'umukara umanitse amaboko ufite mu nkokora h'umukara ibiganda bireba mu kirere.

Umupapa wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umutuku, uri gukanda mu ivi undi mupapa wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu, iruhande rwabo hari igikapa gihari n'umupira urimo amabara y'umweru n'umutuku, hirya hari abandi bantu bahari.

Umugabo ufite umusatsi uboshye, wambaye agakomo ku kuboko ikabutura y'umukara imanutsemo uturongo tubiri tw'umweru, n'inkweto z'umukara zirimo utubara tw'umweru, imbere yiwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu nandi yanditse mu ibara ry'umutuku.

Umu mama wicaye ku buriri uri guseka uri kumwe n'umwana wambaye imyenda y'umweru, hirya yabo hari undi muntu uryamye ku buriri yitangiye itama, hari n'urumuri ruri guturuka mu idirishya ry'ikirahure.

Inkweto z'umukara zifite taro ndende, zifite imashini ku mpande, zifite n'imishumi y'umukara, hariho akarangantego kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'igishushanyo cy'umuntu wikoze ku gitsi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri wambaye agasengeri k'umukara, ipantaro ijya gusa umukara, inkweto z'umweru zifite imishumi y'umweru wunamye mu maboko afashe munsi y'inkweto.

Umugabo ufite umusatsi uringaniye, wogoshe mu mpande, ufite ubwanwa bw'umukara, wambaye agatambaro k'umweru mu ijosi, wambaye umupira w'umukara, umanitse akaboko, uri kunywa amazi mu icupa rijya gusa ubururu.

Umupapa wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, afite icupa ry'umweru harimo amazi uri kuyanywa, ufite ubwanwa bw'umukara n'umusatsi w'umukara ugaragara ugutwi kumwe.

Igikarito gishushanyijeho umuti w'amenyo uri mu icupa rifite imifuniko y'umweru, yanyanditseho amagambo atandukanye, hejuru hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Umumama w'umuzungu, ufashe umwana ku birenge wicaye kuri tapi inyuma ye hari umumama uhari wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe n'ikanzu, hirya yabo hari intebe zihari n'abandi bamama bahicaye.

Umumama ufite uruhu rwera uri kwita ku mwana, ufashwe mu bitugu n'umumama wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, wambaye n'ikanzu inyuma yabo hari intebe zihari n'amatente amanitse ku gikuta, icyumba gishashwemo itapi.

Umuntu wambaye ikote ry'ingofero, rifite amaboko maremare, rifite imashini mu gatuza wambaye ikabutura y'umukara uri kunywa amazi mu icupa, iruhande rwe hari undi mwenda uharambitse.

Umupapa ufite icupa ry'ubururu, uri kunywa amazi ufite agatambaro ku rutugu k'umuhondo wambaye umupira w'ubururu, ufite terefone mu ntoki, wambaye n'isaha ku kuboko, wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zirimo amabara y'umukara, ubururu n'umweru ndetse n'umutuku.

Umukobwa uri mu imyitozo ngororamubiri, ufite umusatsi w'umukara, wambaye isengegeri ijya gusa iroza, afite icupa ry'amazi mu ntoki, uri kuyanywa araramye.

Abantu batandukanye bari mumuhanda, bakora imyitozo ngororamubiri birukanka, babiri bambaye ikabutura zijya gusa n'abandi babiri bambaye imipira isa, bose bambaye inkweto zifunze.

Umuntu wambaye ingofero y'icyuma n'umupira w'umutuku urimo amabara y'umuhondo n'ikabutura y'umuhondo, ufite umupira ku nda, uri kwakwa umupira n'undi muntu wambaye umupira w'umweru mu mugongo harimo umubare kane.

Ameza ariho ibyuma bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, hariho n'akandi gapima uburebure, hirya hari indimu na pome n'izindi mboga z'icyatsi zihari n'igikombe kirimo ji.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara wambaye amaherena, wambaye isutiya y'umukara n'ipantaro y'umukara, uhinnye akaboko, uri kunywa amazi, inyuma yiwe hari ibyatsi.

Inyubako bavuriramo abarwayi, harimo umupapa wambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umukara, hari n'undi wicaye ku ntebe ifite amapine, urambuye akaguru mu ntebe.

Umuntu wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri uri kwirukanka, iruhande rw'iwe hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu ibara ry'umukara atsibaze.

Umupapa wambaye ikote ry'umukara uri kumwe n'abaganga bambaye amataburiya y'umweru, hirya hari abarwayi bari ku bitanda bose bahagaze mu nyubako imwe bari kureba kuri mudasobwa.

Abantu benshi batandukanye bari mu bikorwa bitandukanye by'imyitozo ngororamubiri, umwe uhagaze ku mupira uri kunywa amazi, undi uri gusimbuka, undi uri gukina umupira w'amaboko, undi ufite inkoni mu ntoki uri gukina umupira.

Umupapa uri mu myitozo ngororamubiri ufite imitsi ku maguru no ku kaboko, uteruye utwuma tubiri mu ntoki, ivi rimwe rishinze hasi, iruhande rw'iwe hari undi mupapa uhahagaze, hirya hari ibyatsi.

Umupapa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye akajiri, uhinnye akaboko, ufite icupa ry'amazi mu ntoki uri kwimena amazi mu kawa no mu isura wambaye indorerwamo z'amaso.

Icyuma gifungishijwe boro gikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, avoka ku ruhande hari inyanya na pome, icupa ry'amazi hirya hari imboga z'icyatsi hino hari igi.

Igitoyi cyanditseho imibare itandukanye, iruhande rw.aho hari ibinini bimwe bisa umweru biciyemo uturongo, ibindi bisa umuhondo, ibindi bifite ibara rijya gusa umutuku. Iruhande hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ibikoresho bya siporo birambitse ku mukeka hino hari agatete karimo imbuto zitandukanye amashu, ibitunguru n'ibindi, iruhande hari isahane iriho imineke n'inanasi hino hari igi n'ibishyimbo.

Umukobwa uraramye uri kunywa amazi mu icupa yahinnye ukuboko wambaye agapira gafite umuguno w'umukara harimo amabara y'umweru witeye aka esume ku rutugu wambaye amaherena ufite umusatsi w'umukara.

Umukobwa ufite umusatsi uboshye, wambaye itaburiya ijya gusa ubururu n'uturindantoki tw'ubururu uri kwambara agapfukamunwa, iruhande rw'iwe hari ameza ariho amakayi ndetse na mudasobwa.

Umukobwa ufite umusatsi muremure uboheye inyuma uzirikishije umubano, wambaye amaherena, uryamye hasi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umukara, hirya yiwe hari amadebe ateretsemo indabyo.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara imanutsemo akarongo k'umweru. Iruhande rwiwe hari imbuto zitandukanye, imineke, indimu n'inyanya.

Ameza ariho isahani ikoze mu ishusho y'umutima, ariho ibishyimbo, tungurusumu, igitunguru, urunyanya, hino hari umugozi basimbuka n'inkweto bakoresha mu myitozo ngororamubiri.

Icupa ry'amazi rifite umufuniko w'ubururu, hirya hari agapima uburebure, pome, ironji, indimu n'ibyuma bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, kamwe gafite ibara ry'umutuku.

Umupapa wicaye mu ntebe uri gukora imyitozo ngororamubiri, ufite agatambaro k'umuhondo kareduka mu ntoki ari ku karambura, hirya hari umumama uri kumwitaho wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu n'ikarita y'akazi mu gatuza.

Umupapa uri mu myitozo ngororamubiri, ufite umusatsi w'umukara n'ubwanwa bw'umukara, ufite icupa ry'amazi ari kuyanywa, wambaye umupira usa umweru, wambaye n'akandi kantu mu gutwi.

Umukobwa muremure ufite umusatsi w'umukara, uboheye inyuma, uri kwikora mu mugongo yinanura, uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye agasengeri kajya gusa icyatsi, imbere y'iwe hari amazu.

Umukobwa ufite imisatsi miremire unanutse, wambaye isutiya y'umukara n'ipantaro y'umukara, wicaye asobekeranyije amaguru, hino hari icupa ry'amazi, inyuma ye hari ikuvurori ihari.

Icyumba cy'inyubako kirimo umukobwa ufite umusatsi uboshye, wambaye isengeri ijya gusa umweru n'ipantaro y'umukara uri mu myitozo ngororamubiri, uhinnye umugongo, akaboko kamwe gafashe ku mano, inyuma yiwe ari intebe y'imifariso.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye amwe afite imifuniko y'umweru, afite indiba iri mu ishusho y'uruziga iruhande hari agasimba kari kuguruka, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Ameza arambitseho utusahane dutandukanye harimo imiti igiye itandukanye hamwe harimo gaperi ahandi harimo ingiga z'ibiti iruhande hari ikiganza cy'umuntu ufite inzara ndende ufite utubuto tumwe mu ntoki.

Isabune iriho igishushanyo cy'agasimba kari kuguruka, inyuma yayo hari avoka, imwe isatuyemo kabiri, hirya hari igikakarubamba, hejuru hari amagambo yanditse ibara ry'umweru, hasi hari andi yanditse mu ibara ry'umweru, ari mu ishusho y'icyatsi.

Icupa ririmo umuti gakondo rifite umufuniko w'umweru umanutsemo uturongo, hashushanyijeho agasimba kari kuguruka n'amagambo yanditse mu ibara rijya gusa umutuku, hasi hariho uruyuki ruri kuguruka.

Umugabo wambaye isengeri y'umweru uri kumwe n'umugore ufite imisatsi minini begeranye, hasi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda ari mu ibara ry'umweru, iruhande rwaho hari icupa ririmo umuti gakondo rifite umufuniko w'umweru.

Agakoresho gashushanyijeho igikakarubamba n'agasimba kari kuguruka, hariho amagambo yanditse mu ibara riyja gusa umukara ari mu rurimi rw'Icyongereza, hirya hari agasekuru.

Ikibunobuno gifite amababi atandukanye, amwe asa icyatsi, ayandi ajya gusa umuhondo, iruhande rwaho ari icyatsi kirandaranda, hino hari amatiyo ari kunyura mu mabuye.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, imwe iri mu macupa y'umweru afite imifuniko itandukanye, indi iri mu macupa y'umuhondo afite umufuniko ujya gusa umukara, yose ashushanyijeho udusimba turi mu mabara atandukanye turi kuguruka n'igikakarubamba.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, rimwe riri mu ishusho y'uruziga rifite umufuniko w'ubururu, irindi riri mu ibara ry'ubururu hose handitseho amagambo atandukanye, hariho udusimba turi kuguruka, hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu atsibaze.

Igikakarubamba kiri mu ibara ry'icyatsi, impande hari amagambo yanditse ari mu ibara rijya gusa icyatsi, hasi hari agasimba kari kuguruka gafite amababa, hasi hariho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'andi yanditse mu ibara ry'icyatsi ari mu ishusho y'uruziga.

Isahani iriho amaronji akataguyemo ibice bitandukanye. Iruhande rwaho hari icupa rifite umufuniko w'umweru, umanutsemo uturongo, ufite indiba imeze nk'uruziga, ku icupa hariho akanyamaswa kari kuguruka, n'amagambo yanditseho.

Ibikarito bibiri byanditseho imibare, hariho ikimenyetso cyiri mu ishusho y'uruziga, cy'icyerekezo, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, kiriho andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ibinini bipfunyitse mu gashashi bitandukanye, hejuru hari agakarito karimo imiti gakondo, kandiditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ikimenyetso kiri mu ishusho y'uruziga, gifite icyerekezo n'imibare ariho.

Ikiganza cy'umuntu cy'umweru cyifashe ku ibabi ry'igiti rifite imbuto zitandukanye, hiya hari inyubako n'ibindi biti, hasi hari ibabi ry'umukindo riri kuma.

Icupa rinini ririmo umuti gakondo rifite umufuniko w'umweru ufiteho akantu k'icyatsi, icupa rigizwe n'ibara ry'umweru handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, amwe atsibaze andi adatsibaze, hariho agasimba kari mu ibara ry'icyatsi kari kuguruka.

Ibikarito bitatu biri mu ishusho y'ibitabo, hariho ikimenyetso cy'uruziga, gifite icyerekezo, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ikimenyetso kiri mu ibara ry'icyatsi, hejuru hariho umuriro uri kwaka.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, imwe iri mu icupa ry'umweru, iyindi iri mu icupa ry'umuhondo hose hariho udusimba turi kuguruka n'amagambo yanditse mu mabara atandukanye, yose ari mu rurimi rw'icyongereza hasi hariho igishushanyo k'igikakarubamba.

Ikibabi cy'icyatsi gifite impande zitaringaniye, hejuru hariho ibinini bisa umweru byinshi bitandukanye, byose bigiye biciyemo imirongo ibiri ibiri.

Icupa ririmo umuti gakondo ricuritse rifite umufuniko usa ubururu, icupa risa umweru rishushanyijeho agasimba karimo'ibara ry'umukara gafite amababa kari kuguruka, hasi hari amagambo yanditseho ari mu ibara rijya gusa umukara.

Igitunguru gikasemo kabiri gifite imihiro myinshi itandukanye, iruhande rwacyo hari indimu ikasemo kabiri n'icupa ririmo umuti gakondo rifite umuvuniko wa kaki, ibiri mu icupa rijya gusa umuhondo, inyuma ku icupa hariho igipapuro cyometseho.

Umumama uri mu iduka ricuruza imiti, imbere y'iwe hari amacupa atandukanye y'ubwoko butandukanye. Inyuma y'iwe hari igitambaro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'imibare ya telefoni. Imbere y'iwe hari undi muntu ahahagaze ufashe kuri kontwari.

Igikarito kirimo imiti gakondo, hashushanyijeho agasimba kari kuguruka n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, mu rurimi rw'Icyongereza, hasi hariho igishushanyo cy'impande eshanu n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, imwe iri mu macupa y'umweru maremare, indi iri mu macupa y'umutuku, indi iri mu macupa asa icyatsi, indi iri mu kajerekani k'umuhondo. Yose ashiho agasimba kari kuguruka.

Isahani y'umweru nini irambitse ku meza hariho icupa ririmo umuti gakondo, rishushanyijeho agasimba kari kuguruka rifite umufuniko w'umweru, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'andi yanditse mu ibara ry'umweru, hirya hariho indimu zikasemo kabiri.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, amwe afite ishusho y'uruziga, andi arambuye, rimwe yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, irindi ririho ikirangantego gikoze mu ishusho y'uruziga.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, umwe uri mu icupa ry'umuhondo rifite umufuniko w'umutuku, undi uri mu icupa ry'umweru ufite umufuniko w'ikigina, undi uri mu icupa ry'umweru ufite umufuniko w'ubururu hejuru ari igikakarubamba gikasemo ibice bitatu.

Umupapa wambaye ishati y'ubururu, inyuma wambaye itaburiya y'umweru n'ingofero y'ishashi y'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, uri gushyira imiti iri mu macupa mu bikarito.

Icupa ry'ikibundi rifite umufuniko w'umweru n'indiba ishashe, iruhande hariho amagambo yanditseho, n'agasimba kari kuguruka, n'amo andi magambo yanditse mu ibara rijya gusa umutuku.

Umumama uhagaze witeze igitambaro mu mutwe, wambaye imyenda ipfutse umubiri we wose, abandi basutamye mu murima bari kubagara ibihingwa, harimo ibihingwa bigufi biringaniye byose hirya yaho hari ikibaya.

Ibyatsi n'indabyo birambitse ku meza hariho udutete turimo indabyo zigiye zitandukanye, hari umweya uri mu gasahane karimo umuhini, hirya yaho hari umunzani harimo ibintu bari gupima.

Icupa rirerire rifite indiba y'uruziga n'umunwa w'uruziga, rifite umufuniko w'umweru uri mu ishusho y'uruziga, ku icupa hariho amagambo yanditseho mu ibara rijya gusa ikigina, n'agasimba kari kuguruka, iruhande rwaho hari igikakarubamba.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, amwe ashushanyijeho igikakarubamba, andi ashushanyijeho agasimba kari kuguruka, imwe iri mu macupa y'icyatsi, indi iri mu tubuni turiho ibara ry'ubururu n'amagambo yanditse mu mpine.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, indi iri mu bikarito, hirya hariyo agasimba kari kuguruka, yose hariho amagambo yanditseho atandukanye.

Umupapa udafite umusatsi, udafite n'ubwanwa wambaye umupira w'umweru ufite amaboko ariho uturongo tw'umukara magufiya uri gusoroma, utubuto mu biti biri mu ishyamba.

Icyatsi kirekire kirandaranda gifite amababi ameze nk'ay'amashu, gifite indabyo zisa iroza mo imbere ari umuhondo, kiri ku butaka budafite ikindi kintu iruhande rwaho hari utwatsi dukeya.

Abantu batandukanye bari kwikanda ku bice by'umubiri, umwe uri kwikanda umugongo, undi uri kwikanda ku gikanu, undi uri kwikanda mu nkokora, undi wikanda ku rutugu, iruhande hari amacupa arimo imiti gakondo itandukanye.

Amacupa abiri y'imiti gakondo akikije igikarito gishushanyijeho agasimba kari kuguruka kari mu ibara ry'umukara hasi hari amagambo yanditseho ari mu ibara rijya gusa umukara n'andi yanditse mu ibara ry'umutuku.

Imiti itandukanye iri mu macupa atandukanye, rimwe rifite umufuniko w'umweru rishushanyijeho igikakarubamba, hariho agasimba kari kuguruka n'amagambo ari mu ibara ry'ubururu, iruhande hari indabyo z'inyabarasanya.

Umukeka urambuye hasi mu nzu hariho imbuto zitandukanye, hariho inyanya zidahishije, akantu kameze nk'umuvure, harimo umuhini, hirya hari ibintu by'umuhondo biri mu gatebo nk'imineke, iruhande rwaho hari ikibindi.

Abantu batandukanye bari kugaragaza amaso, hino hari imiti iri mu macupa abiri atandukanye, ashushanyijeho udusimba turigoruka, rimwe ryanditseho amagambo ari mu ibara rijya gusa ubururu, irindi ryanditse amagambo ari mu ibara rijya gusa ikigina.

Akajerekani kari mu ibara ry'ubururu gafite umufuniko w'icyatsi, hariho igikakarubamba n'ikirangantego kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, hejuru hariho agasimba kari kuguruka.

Icyatsi kirekire kirandaranda gifite amababi atandukanye n'indabyo ku ruhande, kiri hejuru y'ihema, iruhande rwaho hari akuma gakata ibindi byuma.

Imiti gakondo iri mu dusahani dutandukanye, hamwe harimo umuhini, ihwino, hari ibindi birambitse ku meza, hejuru hari amagambo ari mu ibara ry'umweru atsibaze n'andi adatsibaza.

Icyatsi kirekire gifite amababi atoshye amwe ari mu ibara ry'icyatsi andi ari mu ibara rijya gusa icyatsi rivuze n'umuhondo, hirya yaho hari ibindi byatsi byinshi.

Ibibabi by'ibyatsi bikoreshwa mu gutegura umuti gakondo, hasi hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'icyatsi ari mu rurimi rw'Icyongereza, hasi hari ibyatsi byinshi bitandukanye bihari.

Abagabo benshi batandukanye bari kumwe n'umugore bari mu murima w'ibikakarubamba, inyuma yabo hari ibyatsi bihari n'ibiti birebire bifite amashami atandukanye, hirya hari ikirere gisa umweru.

Ameza ariho isahani iriho ikiyiko, mo imbere harimo ibintu bifite ibara ry'umuhondo, iruhande hariho tungurusumu, hino gato hari ibibabi by'icyatsi, hejuru hariho amagambo yanditseho mu ibara ry'umweru.

Umuntu wambaye isengeri y'icyatsi uri kwirukanka, imbere ye hari imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, imwe iri mu tujerekani tw'umuhondo, indi iri mu ducupa tujya gusa ubururu hose hashushanyijeho agasimba kari kuguruka.

Amacupa y'ubwoko bumwe arimo imiti gakondo, ifite amabara atandukanye, inyuma hari ibipapuro byometseho byanditseho amagambo atandukanye, amwe ari mu ibara ry'umweru andi ari mu ibara ry'icyatsi.

Igiti kirekire gifite amashami atandukanye ariho ibibabi, hasi yaho hari ibyatsi bigufiya n'ibindi bijya kuba birebire, hirya hari ibindi biti bitandukanye bihari n'ikirere cy'umweru kivanze n'ubururu.

Akajerekani gafite umufuniko w'umutuku, kari mu ibara ry'umuhondo, kariho agasimba kari kuguruka, hasi handitseho amagambo, iruhande rwaho hari ikikakarubamba gifite amahwa, hirya hari akandi kantu k'umweru kari gusohokamo amazi.

Icupa rifite umufuniko uri mu ishusho y'uruziga, umutsemo uturongo, ugizwe n'ibara ry'umweru hasi, hariho agasimba kari kuguruka, amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Inyubako icururizwamo imiti gakondo irimo amacupa atandukanye, amwe y'ibihumbi andi maremare, amwe afite imifuniko y'imihondo, andi afite udufuniko dutoya, kuri buri cupa hariho icyapa.

Icupa ririmo umuti gakondo, riri mu ibara ry'umweru, hariho agasimba kari kuguruka, n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, iruhande rwaho hari igikakarubamba gikasemo ibice bitatu, mo imbere hasa umweru.

Umumama uri mu iduka witeze igitambaro cy'umweru, ufite ikarita y'akazi mu gatuza, ufashe ku meza ariho amacupa afite imifuniko itandukanye, imbere yabo hari umugabo uhahagaze nawe ufashe ku meza.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru n'indiba ijya kuba uruziga, hariho agasimba gashushanyijeho kari kuguruka n'amagambo yanditseho ari mu rurimi rw'Icyongereza, hasi hariho ishusho yo mu kinyempande cya mpande esheshatu handitsemo umubare.

Amacupa abiri atandukanye, rimwe rirerire irindi riri mu ishusho y'uruziga rifite umufuniko w'ubururu, hariho amagambo yanditse kuri iryo cupa n'agasimba kari kuguruka, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Umuvuzi gakondo wambaye itaburiya y'umweru mo imbere harimo ishati y'umweru, urambuye akaboko mu miti itandukanye, afite umuhini mu ntoki n'agasekuru ari gusekura imiti isa icyatsi.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, imwe iri mu macupa y'ibibundi ameze nk'ibizeru, indi iri mu macupa maremare iri mu tubati dutandukanye, imwe ifite imifuniko y'umuhondo, indi ifite imifuniko y'imituku.

Icyatsi kirandaranda gifite amababi y'icyatsi gifite indabyo z'umweru izindi z'umutuku n'izindi zijya gusa umuhondo, hirya hari ibindi byatsi birebire bifite indabyo z'umweru n'ikindi gifite indabyo z'umutuku.

Imiti gakondo itandukanye, imwe igizwe n'ibyatsi, indi igizwe n'imbuto, hose hariho amagambo atandukanye yanditse mu ibara ry'umukara, hejuru hari imwe irandaranda.

Umumama witeze igitambaro kimupfutse, wambaye imyenda imupfutse hose, iruhande rwiwe hari abandi bamama bicaye mu muririma bari gusukuramo ibyatsi, hirya yabo hari ikibaya.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, amwe maremare andi magufiya, iruhande rw'aho hari indabyo z'ibihwagari, hirya hari imbuto z'ikawa n'ishyamba rihari.

Imiti iri mu macupa atandukanye ari mu twumba dutandukanye hagati harimo igikombe, hirya hari ikiganza cy'umuntu imiti imwe isa ikigina irindi cupa rifite umufuniko w'umutuku.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, amwe maremare andi magufi, afite imifuniko y'umweru imanutsemo uturongo, hari amagambo yanditse kuri buri cupa n'udusimba turi kuguruka.

Amacupa arimo imiti gakondo atandukanye, imwe iri mu tujerekani tw'umuhondo ifite imifuniko y'umutuku hariho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hasi hashushanyijeho igikakarubamba, indi iri mu ducupa tw'umweru dufite imifuniko y'umweru.

Igiti cy'umuravumba gifite ibibabi byinshi bitandukanye, ikibabi kimwe kirimo akadomo, hirya hari indabyo zifite ibara ry'umutuku n'izindi zifite ibara ry'umuhondo n'izindi zitarabumbura.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, amwe maremare andi magufi, harimo ifite imifuniko y'umutuku, n'indi n'undi ufite umufuniko w'umukara, n'undi ufite umufuniko w'umweru, imwe iri mu bikarito.

Igikarito kirimo imiti iri mu macupa y'umuhondo, afite umufuniko ujya gusa ikigina, hashushanyijeho udusimba n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hasi hariho igikakarubamba n'akandi kabuni kari hanze y'igikarito.

Umuntu wambaye agakomo ku kuboko uteruye icyatsi mu ntoki, iruhande hari undi muntu wambaye ikote mo imbere harimo umupira w'umutuku, uteruye utwatsi mu ntoki, hasi hari icyatsi kirekire.

Umumama ukenyeye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'ay'umutuku n'andi y'umukara, arimo imirongo igiye inyuranyuranyemo, iruhande rwiwe hari ikirabyo gifite ururabo rw'iroza ari kurupfura.

Imiti myinshi itandukanye iri mu macupa atandukanye, amwe ari mu macupa y'umweru ariho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'agasimba kari kuguruka, indi iri mu gacupa k'icyatsi gafite umufuniko w'umweru, indi iri mu kabuni kari mu ibara ry'umuhondo, akandi kari mu ibara ry'umweru, icupa rimwe rishushanyijeho igikakarubamba.

Umupapa wambaye akagofero k'abisiramu uri guseka wambaye umupira ujya gusa ubururu, uri mu iduka hirya ye hari udutajeri dupanzemo amacupa menshi atandukanye, amwe asa umuhondo n'andi asa amabara atandukanye.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, amwe ari mu ibara ry'umweru ashushanyijeho udusimba turi kuguruka, indi iri mu kajerekani k'umuhondo afite umuvuniko w'umutuku, hejuru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako icururizwamo imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, imwe iri mu macupa ameze nk'ibizeru y'ibibundi, indi iri mu macupa maremare yose agiye afite imipfundikizo itandukanye, hose hariho ibipapuro byometseho, inyuma ku macupa handitseho amagambo atandukanye.